Kugira isuku ni ingenzi ku mubiri wacu, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza ababyeyi kwita ku isuku y'abana babo baboza, babambika imyenda myiza kugira ngo birinde indwara ziterwa no kugira isuku nkeya, ni byiza rero ko tugomba gukurikirana ubuzima bw'abana bacu kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ibashe kugenda neza. Aha twavuga nk'intebe zifashishwa bicaraho, ameza, ndetse n'ibikoresho bigaragaza ikigiye kuvugwaho. Ni byiza rero ko ibyo bikoresho tubigira mu cyumba cy'inama kugira ngo tubashe gusobanura neza no kumvikanisha neza icyo inama yari igamije.

Mu byumba bikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ize gukorwa, twavuga nk'intebe zicirwaho n'abitabiriye inama, indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva, mashini zitandukanye zifashishwa kugira ngo babashe gukora ubushakashatsi ku ngingo runaka bagiye kuvugaho, ndetse n'igishushanyo mbonera kigaragaza ibyo bagiye kuvuga.

Abayobozi bafite inshingano zo kujya ku bigo bitanga serivisi z'ubuzima kugira ngo barebe imikorere yabo, ni byiza ko bagenda babatunguye kugira ngo barebe niba bahagerera igihe cyangwa se niba batanga serivisi inoze ku babagana, ni byiza rero ko tugomba guhora twiteguye kandi tukumva abayobozi bacu kugira ngo tubashe guharanira uburenganzira bw'abatugana, tubashe no kubavura neza bakomeze bagire ubuzima buzira umuze.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Uburezi gishishikariza abarimu gufata abana b'incuke neza igihe barikubigisha dore ko baba batarasobanukirwa neza ibyo barimo. Kubwira abanyeshuri neza ni kimwe gituma bakumva mbese bakabasha kumva ibyo ubabwira ntibanagusuzugure. Ubuyobozi busobanurira abarimu ko ari byiza gukomeza kubatoza ikinyabupfura kugira ngo bazagikurane bazabashe kubaho mu buzima bwiza bafite indangagaciro.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo abana kugira ngo barebe aho bahagaze. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe gutanga iyo serivisi. Twavuga nk'intebe baba bicayeho, ameza ariho impapuro zitandukanye ziriho imyirondoro y'umwana ndetse n'igipimo bakoresha bapima ku buryo bareba uko ahagaze. Ni byiza rero gupimisha abana bacu kugira ngo tumenye aho bahagaze.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko tuyakoresha mu buryo butandukanye nko kuyanywa, kuyatekesha, ndetse no kuyameshesha. Kugira ngo tubashe kuyabona tujya kuyazana ku migezi itandukanye twifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye. Aha twavuga nk'amabase, amajerekani, ndetse n'amadomoro. Ni byiza rero ko dukoresha amazi yacu neza kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'uburezi, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gutanga ubwo burezi neza. Aha twavuga nk'intebe abanyeshuri bakoresha bicaraho, ameza bakoresha bandikiraho ndetse n'utubati bakoresha, babikamo ibitabo bigiye bitandukanye, n'ikibaho bakoresha bandikiraho, n'ingwa bakoresha bandika kugira ngo babashe gutanga uburezi buboneye

Amazi tuyakoresha mu buryo bwinshi butandukanye, twavuga nko kuyakoresha tuyanywa, kuyakoresha tuyatekesha ndetse tunayameshesha, kugira ngo abashe kutugeraho rero tujya kuyazana ku mavomero agiye atandukanye, twifashisha ibikoresho byinshi kugirango abashe kutugeraho, twavuga nk'amajerekani, amadomoro, ndetse n'abantu bajya kuyazana ni byiza ko dusigasira amazi kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Mu cyumba gikorerwamo inama, haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ize gukorwa. Twavuga nk'intebe zicarwaho n'abitabiriye inama, ameza yo gushyiraho amakaye yo kwandikamo, amakaramu bakoresha bandika, ikoranabuhanga rizwi nka terefoni cyangwa se mashini rikoreshwa bashaka amakuru atandukanye kuri iyo nama ndetse n'imfatashusho iza gukoreshwa kugira ngo baze kugaragariza abatari bahari, ibyabaye.

Kwita ku mubyeyi umaze kubyara ni ingenzi kubera ko bimufasha kugira ubuzima bwiza we n'uwo amaze kwibaruka, ni byiza rero ko tubegera tukabaha ubufasha bakeneye kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza bw'uwo bamaze kwibaruka. Abajyanama barashishikarizwa gukomeza kubegera kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza no kubasobanurira byinshi bitandukanye ku buzima bwabo.

Imbaga y'abantu higanjemo ingeri nyinshi zigendanye no kwita ku buzima bwa muntu, zateraniye hamwe aho zigaga ku bigendanye n'imikorere yabo n'akazi kabo ndetse n'imikoranire yabo hagati bo ubwabo, ikizi igezwi nka commonwealth local government conference.

Mu cyumba gikorerwamo inama, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ize gukorwa neza. Aha twavuga nk'intebe zicarwaho igihe barimo bakora inama, ameza yo gushyiraho amakayi yo kwandikiraho, amakaramu bifashisha bari gukora inama ndetse n'igishushanyo kigaragaza ibyo barimo baganiraho na mashini ibafasha gukora ubushakashatsi burambuye kuri iyo ngingo. Ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije.

Kugira ngo tubashe kuzamura amazi tuyageze mu rugo dukoresha ibikoresho bitandukanye, aha twavuga nk'amajerekani, ndetse n'amadomoro. Ni byiza ko rero tugomba gufata amazi nk'ingirakamaro mu buzima kubera ko tuyakoresha muri byinshi nko guteka, kuyanwa, ndetse no kuyameshesha.

Amazi ni'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko tuyakenera, tuyakoresha tuyanywa, tuyatekesha ndetse tunayameshesha, kugira ngo tubashe kuyabona tuba twagiye ku migezi itandukanye twifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kuyazamura twavuga nk'amadomoro, ndetse n'amajerekani. Ni byiza rero ko tuyazana kubera ko tuba tuyakeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima, gisobanurira ababyeyi ko bagomba kwita ku bana babo bakiri batoya kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko rero tugomba gukurikirana abana bacu kugira ngo bazagire ejo heza hazaza, iterambere ryabo rizaze ari nta kibazo.

Guha abana akazi badashoboye ni ikosa rihanirwa n'amategeko kubera ko hari imyaka umwana aba afite atemerewe gukora akazi runaka cyangwa se gutwara ibiro bimuruta, ni byiza ko tugomba kwita ku bana bacu tutabavunishije.

Mu nyubako ikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gutanga ubutumwa neza, aha twavuga nk'intebe zo kwicarwaho, ameza yo gushyiraho amakayi, amakaye yo kwandikaho, amakaramu yo gukoresha bandika, amazi yo kunywa igihe hari ugize inyota, ndetse n'ikoranabuhanga terefone cyangwa mashini bifashisha igihe bari gukora ubushakashatsi runaka kuri iyo nama.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza ababyeyi gutoza abana babo gukora isuku igihe bagiye kurya, ni byiza ko dukorera isuku abana bacu kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze bityo biririnde indwara zitandukanye zandurira mu kugira isuku nkeya.

Icyumba kirimo umurwayi, aho muganga arimo amutera urushinge kugira ngo abashe kubona ikibazo afite n'indwara yaje kwivuza, igihe amaze kumubwira uko amerewe abona kumufata ikizamini cy'amaraso.

Kwita ku murwayi utwite ni ingenzi kubera ko bimufasha gukomeza kumva ko bamuri impande, kandi bigatuma atababara cyane kuko yirengagiza uburibwe kubera ko aba abona hari abantu bamwitayeho, ni byiza ko dukomeza gusigasira ababyeyi batwite.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima, cyashyizeho ibibuga bitandukanye, hariho ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha igihe arimo akora siporo, ni byiza ko tugomba kugana ibyo bibuga kugira ngo ngo tubashe gukora siporo neza, umubiri wacu ubashe kugira ubuzima bwiza, duharanire ubuzima bwacu dukora siporo, duharanira ko ari umuti uvura ubuzima bwacu n'ingingo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'abana, kirashishikariza ababyeyi gufata abana babo neza batabavunisha, batabakoresha ibintu birengeje imbaraga zabo. Ni byiza ko tugomba gukoresha akazi abana bacu gahwanye n'imbaraga bafite kugira ngo birinde imvune zituruka mu mikorere batabashije gukora.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu, kubera ko tuyakoresha mu bintu byinshi bitandukanye, harimo nko kuyanywa, kuyatekesha, kuyafurisha, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo rero tubashe kuyabona tuyakuye ku mugezi, bidusaba kuba dufite ibikoresho nk'indobo, injerekani, ndetse n'ibindi bishobora kudufasha kuyahageza.

Mu byumba bikorerwamo inama, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira inama ibashe kugenda neza, aha twavuga nk'intebe, abitabiriye inama bicaraho, ameza bandikiraho, amakaye yo kwandikamo ibyo bize, amakaramu bakoresha bandika, ikoranabuhanga nka mashini, telefone ndetse n'ibindi na porojegiteri ibasha kubereka ibyerekeranye n'ibyo bari kwiga.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko tuyakoresha mu bintu byinshi bitandukanye. Tuyakoresha tuyanywa, tuyatekesha, ndetse tunayameshesha. Kugira ngo tubashe kuyazana tujya ku migezi igiye itandukanye. Twifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kuyazana. Twavuga nk'amajerekani, ndetse n'abantu baribuze kuyazana. Ni byiza rero ko tugana amavuriro kubera ko amazi tugukunda kuyakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe urubyiruko UNICEF kirabashishikariza ko bagomba kubagana kugira ngo babashe kubaha inama zitandukanye ku bijyanye na bo, ni byiza rero ko tumenya uburenganzira bwacu, naho tugomba kububariza igihe babutuvukije.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abaturage gushyira kandagira ukarabe imbere y'ubwiherero, ku buryo bakaraba intoki bavuye mu bwiherero, ni byiza ko dukaraba intoki tuvuye mu bwiherero kubera ko tuvanamo mikorobe zitandukanye zadutera indwara, zigatuma ubuzima bwacu bwangirika.

Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko tuyakoresha mu kuyanywa kuyatekesha ndetse no kuyameshesha, ni byiza rero ko tugana aho aherereye kugira ngo tubashe kuyabona, mu kuyabona dukoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kuyigezaho nk'amajerekani ndetse n'amadoboro, ni byiza rero ko tuyiyegereza kugira ngo tubashe kuyabona mu buryo butworoheye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima bwa muntu, gisobanura ko iyo kigiye gusobanura akazi gikora, kikifashisha ibishushanyo ari byiza kubera ko bituma abo basobanurira babyumva neza, bakabasha kubikurikiza ndetse bakanabishyira mu bikorwa kugira ngo babashe kubyubahiriza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kirashishikariza abantu bose ko bagomba gukurikirana ubuzima bwabo banyarukira kwa muganga kujya kureba imiti, ndetse no gusuzumisha ubuzima bwabo bareba aho bugeze, ni byiza ko dukomeza kumva inama z'abadukuriye ndetse n'inzobere mu bigendanye n'ubuganga, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kubaho neza.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama izekugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, imfatashusho ndetse n'igishushanyo mbonera gisobanura neza ibyo bagiye kuganiraho. Ni byiza rero ko tugomba kuba maso kugira ngo tubashe kumva neza ibyo batubwiye.

Mu byumba bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira ubagannye. Twavuga nk'intebe ubagannye yicaraho, intebe umwakira aba yicayeho, ameza ashyiraho ibyo yandikamo, mashini akoresha arimo ashaka imyirondoro yiwe ndetse n'ababakira. Ni byiza rero ko twakira neza abatugana kugira ngo tubashe gukora akazi kacu neza.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko tuyakoresha ibintu bigiye bitandukanye nko kuyanywa, kuyamishesha, ndetse no kuyatekesha. Kugira ngo rero abashe kutugeraho bidusaba kujya ku mavomero agiye atandukanye aha twitwaza nk'indobo, amajerekani yo kuyatwaramo ndetse n'abayatwara. Ni byiza ko rero tugomba kweyegereza amazi kugirango ngo tubashe kubona icyo dukoresha.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, kirakangurira abaturage kugana ikigo cyitwa Global heath Alliance, kugira ngo kibafashe mu bibazo bitandukanye by'ubuzima baba bafite, ni byiza ko tubagana kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza, ibigendanye n'ubuzima bwacu.

Mu bigo bitanga serivisi z'uburezi, haba hari ibikoresho bitandukanye bifasha abanyeshuri kubona amazi yo kunywa nk'itangi ivamo amazi, ibikombe, ameza ateretseho itangi, maze bikabafasha kubona amazi yo kunywa mu buryo bworoshye.

Inzobere mu bigendanye n'ubuzima bw'imirire, basobanura ko guhinga imboga ari ingenzi kubera ko imboga zitugirira akamaro kenshi kandi ziturinda indwara zitandukanye. Ni byiza ko rero tugomba kwiga gutera imboga kugira ifunguro ryacu rya buri munsi ntirikabureho imboga bityo indwara ziterwa n'imirire mibi tuzice.

Inama yateranyije abajyanama b'ubuzima aho hifashishijwe ibikoresho bitandukanye kugira ngo iyo nama ikorwe, twavuga nk'intebe zari zicayeho abakoze iyo nama, ibikoresho by'indangururamajwi byakoreshejwe kugira ngo ubutumwa bubashe kumvikana, bakomeje batanga ibisobanuro birambuye ku kazi kabo kugira ngo babashe kubyumvisha neza abaturage na bo babashe kubigeza ku bandi batari bahari.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko tuyakoresha mu bintu bitandukanye twavuga nko kuyakoresha tuyanywa tuyatekesha ndetse tunayameshesha kugira ngo abashe kutugeraho tujya kuyazana ku mavomero atandukanye twifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo abashe kuyatugeraho twavuga nk'amajerekani amadomoro ndetse n'abana bo kuyazana cyane ko ahantu henshi haba hari amavomero haba hagoye ni byiza ko tugomba kugira ikidufasha kugira ngo tubashe kuyahageza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe urubyiruko UNICEF kirashishikariza urubyiruko kukigana kugira ngo babashe guhabwa byinshi byabateganyirije. Ni byiza rero ko tukigana kugira ngo babashe kuduha inama nyinshi zitandukanye zerekeranye n'ubuzima bwacu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abaturage kubagana igihe bahuye n'indwara zitandukanye kubera ko baba bahari kubwabo ni byiza rero ko tubagana igihe duhuye n'indwara zitandukanye kugira ngo babashe kudufasha baduhe ubuvuzi bw'ibanze, ubuzima bwacu bubashe gukomeza kugenda neza.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko tuyakoresha mu buryo butandukanye nko kuyateka, kuyanywa ,ndetse no kuyameshesha kugirango rero tubashe kuyabona bidusaba kuba dufite ibikoresho bitandukanye turi buze kuyatwaramo igihe twagiye kuyazana ku mugezi twavuga nk'amajerekani, amadomoro ni byiza rero gukorera isuku aho dukura amazi kugirango ngo tubashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko tuyakoresha mu bintu byinshi bitandukanye nko kuyanywa, kuyatekesha ndetse no kuyameshesha, ni byiza ko dukora isuku dukoresheje amazi meza kugira ngo tubashe kurinda ubuzima bwacu kwandura indwara zitandukanye zituruka mu gukoresha amazi mabi.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, nko mu iyungururwa ry'amaraso, mu igogora ndetse n'ibindi nko mu kuvura umutwe. Ni byiza ko tuvoma amazi meza kugira ngo tubashe kuyakoresha afite isuku.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ize kugenda neza , twavuga nk'ibikoresho birimo intebe bicaraho barimo bakora inama ndetse n'amakayi bakoresha barimo bandikamo ingingo z'ingenzi ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo babashe kuvuga cyane buri umwe wese yumve, ni byiza ko tugomba kwitabira inama kugira ngo tubashe kumenya byinshi bitandukanye ku ibyo baba bavuga.

Mu gutanga serivise z'ubuzima hakoreshwa ibikoresho bitandukanye, twavuga nk'ibikoresho bikoreshwa mu gufata amaraso ndetse n'ibindi bikoreshwa mu gufata umusarane, ni byiza rero ko ibigo nderabuzima bigira ibikoresho bitandukanye kubera ko ababagana, baba bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Iyo tunywa amazi mu buzima bwacu dukunze gukoresha igikoresho cy'igikombe kugira ngo tubashe kuyanywa mu buryo bwiza. Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko ayungurura amaraso ndetse imyanda imwe n'imwe igasohoka, ubuzima bwacu bugakomeza bumeze neza. Dukomeze tugire ubuzima bwiza tunywa amazi mu buryo bwiza kandi mu buryo busukuye.

Gufata ifunguro rya mu gitondo ni byiza, kubera ko bidufasha kugira ubuzima bwiza no gukomeza kubaho neza, bikanaturinda kugira indwara zitandukanye nko kwizinga kw'amara kubera ko tuba twahaye igifu ibyo kurya hakiri kare.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bana UNICEF, kirashishikariza ababyeyi ko bagomba kumenya ubuzima bw'abana babo, kugira ngo bashe gukura neza nta kibazo bahuye nacyo. Ni byiza rero ko dukurikiza inama tuba twahawe, kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bw'abana bacu, bakure nta kibazo na kimwe bafite mu mubiri.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira babashe kwita kubabagana, aha twavuga nka sare bakirirwamo, aho haba hateyemo intebe bicaramo ndetse hashushanyijeho n'ibishushanyo bisobanura icyo bakora, harimo ameza ariho ibitabo bandikamo imyirondoro y'uwo bagiye kwakira.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza ababyeyi kwita ku bana bakiri batoya kubera ko bataramenya kwitaho, bakabamenyera igihe barwaye bakajya kubavuza ndetse bagakomeza no kubaha indyo yuzuye no gukomeza kubakurikirana mu buzima bwabo, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Aha ni mu cyumba cy'umurwayi kirwariyemo umwana, aho harimo abaganga babiri bari kwita ku murwayi ndetse n'umurwaza, bari kumwitaho kugira ngo barebe ko barokora ubuzima bwiwe.

Icyumba cy'urusuzumiro cy'iganjemo abaganga batandukanye ndetse harimo n'umurwaza aho bari kumusuzuma, bamufashe amaraso kugirango babashe kumenya indwara arwaye babone kumuhereza imiti.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe abana kirashishikariza abana ko bagomba kumenya uburenganzira bwa bo mbese igihe bahohotewe bakamenya aho bagomba kugana bagahabwa ubuvuzi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze ku bigendanye n'ibyo baba bahohotewemo.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko tuyakoresha mu buryo butandukanye nko kuyafurisha, kuyatekesha ndetse no kuyanywa. Ni byiza rero ko dushishikariza abana bacu tunabagira inama gukomeza gufata amazi neza, kubera ko ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ababyeyi barashishikarizwa gupimisha abana babo kugira ngo babashe kumenya aho ubuzima bw'abana babo buhagaze, babashe no kumenya ibiro bafite bityo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza, ni byiza rero kwitabira gukingiza abana kugira ngo umubyeyi amenye aho agomba kwikosora maze ubuzima bw'umwana wiwe bugende neza.

Kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite ni ingenzi kubera ko bifasha umubyeyi kuzabyara neza, ni byiza ko twita ku buzima bw'umubyeyi utwite, kugira ngo umwana atwite azavuke nta kibazo afite, tugomba kubitaho tubagiha indyo yuzuye, tugakoresha siporo ndetse tunbabwira neza, kugira ngo abana bazabyara bazavuke bameze neza.

amazi n'ingenzi mu buzima kubera ko tuyakoresha ibintu byinshi bitandukanye tuyakoresha tuyanywa tuyatekesha tunayameshesha kugira ngo tubashe kuyabona tujya kuyashaka ku migezi igiye itandukanye twifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kuyageza mu rugo twavuga nk'amabase ,amajerekani ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa kugirango ngo tubashe kubona amazi ni byiza ko tugomba kugana ahari kandi tukayatwara neza kugira ngo tubashe kuyakoresha mu buryo bunogeye.

Impuguke mu bijyanye n'ubuzima basobanura ko iyo bari gusobanurira abaturage bifashishije ibishushanyo ari ingirakamaro, kubera ko bibafasha kubisigarana mu mutwe ndetse bakabasha no kuba babisobanurira bagenzi babo batabihasize, ni byiza ko rero abayobozi bakomeza gukoresha iyo gahunda kugira ngo abaturage batahane byinshi kurushaho.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, ikizwi nka Global health, gisobanura ko iyo kirigukoresha inama ari byiza gushyiraho igishushanyo, kigaragaza ibyo barimo basobanura, kugira ngo ubutumwa bubashe kumvikana ndetse babashe no kuba babigeza ku bandi. Iyo bakoze inama mu cyumba cy'inama haba harimo ibikoresho bitandukanye, twahabona nk'ameza, amakaye yo kwandikaho, ndetse n'ikoranabuhanga bakoresha.

Hirya no hino mu gihugu hagiye hari amavomero atandukanye adufasha kubona amazi dukeneye buri munsi kugira ngo tubashe kuyakoresha mu buzima bwa buri munsi nko guteka, koga, gukaraba ndetse no kumesa.

Kugira ngo tubashe kubona amazi tuyavanye ku mugezi, twifashisha ibikoresho bitandukanye. Aha twavuga nk'injerekani ndetse n'abajya kuyazana. Ni byiza ko rero twitabira gukoresha amazi kubera ko ari ingenzi, adufasha mu buzima bwa buri munsi nko guteka, gufura ndetse no kuyanywa.

Abajyanama barashishikariza ababyeyi bafite abana batoya ko bakoresha ifu ya shishakibondo kugira ngo abana babo babashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko dukoresha ifu ya shishakibondo kugira ngo tubashe kugira abana bafite ubuzima bwiza ndetse n'ubuzima buzira umuze, harindwe indwara zishobora kubafata bityo bigatuma ubuzima bwabo budindira.

Abayobozi bakomeza bagira inama abangavu, gukoresha uburyo bwabugenewe kugira ngo bakomeze kwirinda inda zitateganyijwe no gukomeza kugira inama bagenzi babo baruta kugira ngo be gukomeza guhura n'ibyo bibazo.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari ibyumba by'abarwayi. Aho haba higanjemo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda umurwayi aryamaho, intebe umurwaza yicaraho, intebe umuganga yicaraho ndetse n'ibikoresho byifashishwa igihe barimo bamupima.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, kirashishikariza ababyeyi kwita ku bana babo bari munsi y'imyaka itanu kugira ngo babashe kubarinda indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi, barabashishikariza kubaha imbuto n'imboga ndetse n'indyo yuzuye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza babarinde indwara zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'uburezi, ni byiza ko bihora bizitiye kugira ngo bitume abanyeshuri badasohoka ngo bate amasomo yabo bityo babashe gutahana uburezi n'ubwenge ku byo babahaye, bizabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko tukoresha ibintu byinshi bitandukanye, twavuga nko kuyakoresha tuyanywa, tuyameshesha ndetse tunayatekesha. Ni byiza ko tugomba gushishikariza abana bacu gukoresha amazi meza kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, tube mu buzima buzira umuze.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza Abaturarwanda kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura ndetse no kuyirwanya. Ni byiza ko buri wese yumva ko ari ibyiwe kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza no kwirinda indwara zitandukanye zaturuka mu kuba utarisuzumishije kanseri y'inkondo y'umura.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko tuyakoresha mu buryo butandukanye nko kuyanywa, kuyameshesha ndetse no kuyatekesha kugirango tubashe kuyageza murugo tuyakura mu mavomero atandukanye, kandi dukoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kuyageza mu rugo twavuga; nk'amajerekani, amadomoro, ndetse n'ibindi. Ni byiza ko dusigasira amazi yacu kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Amazi n’ingenzi mu buzima bwacu kubera ko tuyakoresha mu buryo butandukanye. Tuyakoresha tuyanywa , tuyatekesha ndetse tunayafurisha, ni byiza ko rero tugomba kuyafata neza kubera ko ari ingenzi kugira ngo abashe kutugeraho dukoresha ibikoresho bitandukanye nk'amajerekani ndetse n'amadomoro n'abajya kuyazana ni byiza ko rero tuyashaka neza kugira ngo tubashe kuyakoresha ibikwiye.

Gukingira umwana w'uruhinja bimufasha kwirinda kurwara indwara zitandukanye, harimo izatuma agorama magufwa cyangwa se akaba yagira ubundi burwayi buturutse ko atigeze abona inkingo zihagije.

Amata ni ingirakamaro mu buzima bwacu kubera ko yongera vitamine nyinshi zigiye zitandukanye mu mubiri wacu, by'umwihariko iyo ahawe abana abarinda kurwara indwara za hato na hato, zigenda zandurira mu kubura vitamine zihagije, ni byiza rero ko tugomba gukangurira ababyeyi guhereza abana babo amata kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku barwayi, twavuga nk'ibitanda biryamaho abarwayi, intebe bicaraho, mashine bakoresha bari kwandika imyirondoro y'iwe ndetse n'amatara abamurikira igihe bari kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo babashe kugezaho ubutumwa kubabugenewe aho harimo nk'amakaramu bakoresha bandika, amakayi bandikamo, intebe bicaraho bari gukora inama ndetse n'ibishushanyo mbonera bigaragaza icyo iyo nama yavugagaho.

Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu kubera ko tuyakoresha mu bintu byinshi bitandukanye, tuyakoresha tunywa, tuyatekesha ndetse tunayameshesha. Kugira ngo abashe kutugeraho twifashisha ibikoresho bitandukanye nk'amabase, indobo, ndetse n'amajerekani. Ni byiza rero ko dusigasira amavomero yacu kugira ngo tubashe kubona amazi dukoresha buri munsi.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufitiye akamaro gatandukanye, tuyakoresha tuyaywa, tuyatekesha ndetse tunayameshesha, ni byiza rero ko tugomba kujya kuyazana mu bujerekani cyangwa se mu madomoro, twayogeje kubera ko adufasha mu kubaho neza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, gishishikariza abageze mu myaka y'izabukuru, kubagana kugira ngo babashe kubasobanurira neza, ingano y'imitekerereze yabo babashe kubaha ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'inama zigiye zitandukanye, ku bijyanye n'imitekerereze.

Kurwanya ihohoterwa ni inshingano za buri umwe wese kubera ko ari ingenzi mu buzima. Ihohoterwa hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa rishingiye mu mitekerereze, ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku kwihesha imitungo itari iyawe. Ni byiza ko rero buri wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we kugira ngo twirinde ihohoterwa, bityo tubashe kugana n'ibigo bitandukanye bishinzwe kudufasha no kuturenganura bakaduha ubutabazi bw'ibanze.

Nibyiza kugana ikigo nderabuzima kivura ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, kugira ngo ubashe kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze bubashe no kugufasha igihe basanze intekerezo zawe zirenzeho cyane.

Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze, basobanura ko ari byiza gukoresha ubwonko bwawe mu bituma butagenda nabi cyangwa se ngo bube bwatekereza kure kugira ngo uburinde gutekereza cyane, ni byiza ko rero dukomeza guharanira ubuzima bwacu kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze.

Guha ubufasha abafite uburwayi bwo mu mutwe, ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni byiza ko iyo tubonye umuntu ugaragaweho ikibazo cy'imitekerereze, tumwegera tukamuganiriza, tukabasha kumuhumuriza bityo akabasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umujyanama mukuru mu bijyanye n'imitekerereze, yakoresheje inama aho hari hifashishijwe ibikoresho bitandukanye, twavuga nk'intebe abari bitabiriye inama bari bicayeho, ameza, amakayi bakoresheje bandikiramo, amakaramu bakoreshaga bandika ndetse n'amatelefone yakoreshejwe hakorwa ubushakashatsi butandukanye, kuri iyo ndwara yo mu mutwe.

Indwara ya Teropi ni indwara ifata mu mitekerereze cyangwa se igice cy'ubwonko, aho yibanda ku muntu uwo ari we wese wumva ko ari wenyine, cyangwa se utekereza ahahise hiwe cyane.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imitekerereze gishishikariza urubyiruko ko bagomba kukigana kugira ngo babashe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, ni byiza ko iki kigo tukigana kugira ngo tubashe kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze ndetse babashe no kutugira inama z'ibanze zigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Isange wone sitopu senta n' ikigo gifasha abantu bahuye n'ihohoterwa kubona ubutabazi bw'ibanze, ni byiza ko igihe twahuye n'ihohoterwa tugomba kugana kino kigo, kugira ngo kibashe kudushakira ubutabazi bw'ibanze ndetse kinaduhe inama zerekeranye n'ihohoterwa twahuye naryo.

Kwita ku bafite ikibazo cyo mu mutwe, ni ingenzi kugira ngo babashe kugira ubutabazi bw'ibanze. Ni byiza ko igihe twumvise igice cyo hejuru mu mutwe uturya cyangwa se hari ikindi kibazo kirimo, twagana inzobere mu babizobereye kugira ngo babashe kuduha ubutabazi bw'ibanze n'ubuvuzi maze umubiri wacu ukomeze kugenda neza.

Karayesi ndera ni ikigo gifasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza ko igihe tugaragayeho uburwayi bwo mu mutwe tugana ikigo cya karayesi ndera kikabasha kuduha ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'inama zitandukanye zigendanye n'ubwo burwayi bwacu, tukiyoboreho aba bafite uburwayi ndetse tubashishikariza kujyayo kugira babashe kubona ubuvuzi bw'ibanze

Aba bantu bicaye aha biragaragara ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, aho biyegereje ibintu by'ibipara, ibintu by'ibyatsi, ibintu by'ibifuka, bamwe bihebye, bigaragara ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, hari ikintu babura bakeneye ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo babashe koroherwa.

Indwara yo mu mutwe ni indwara ifata umuntu ikamutera kwitekerezaho cyane ugasanga inshuro nyinshi ni wenyine, abaganga badusobanurira ko ari byiza ko mu gihe wumva ufite ikibazo cyo mu mutwe tugomba kugana inzobere maze zikabidufashamo.

Indwara yo mu mutwe ni indwara ifata umuntu ikamutera gukora ibintu bidafite gahunda. nko kwambara imyenda icitse, gufata imifuka ,gufata ibyatsi, kwirukanka mu muhanda abahanga mu by 'inzobere zo mu mutwe badushishikariza ko igihe tugaragayeho iyo ndwara tugomba kubagana bakadufasha bakabasha kuduha ubutabazi bw'ibanze.

Iyo dukora ubukangurambaga, ni byiza ko twifashisha igishushanyo kubera ko kidufasha gusobanura neza ubukangurambaga turi gukora ubwo ari bwo, icyo bugamije, ndetse n'intego yabwo, n'akamaro bizagirira abo turi kububwira, ni byiza ko tugomba kubikurikiza kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa ku babugenewe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza abantu ko bagomba kwisuzumisha indwara yo mu mutwe kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze n'imiti ishobora kubafasha, ni byiza ko rero tugana ibyo bigo kugira ngo dukurikirane ubuzima bwacu, tubashe kubaho mu buzima buzira umuze.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo iyo nama ize kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ameza ashyirwaho ibikoresho bitandukanye, harimo nk'ibitabo biza kwifashishwa mu gusesengura iyo nama, ndetse n'ifatamajwi rikoreshwa kugira ngo baze kubwira n'abatari bahari babashe kubimenya. Indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo buri wese abashe kumva, dore ko baba ari abantu benshi.

Ku bigo bitanga serivisi z'ubuzima ahazwi nko ku rwiwinjiriro haba hariho ibyapa bisobanura icyo bakora, indwara bavura ndetse, n'uburyo bakoramo amasaha bakoramo haba hariyo amakuru yose agendanye n'ibyo bitaro. ni byiza ko tubanza guso kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza mbere yo kwaka serivisi.

Urugo rw'umuturage aho umubyeyi yicaranye n'abana be babiri arikwibaza uburyo aribukomeze gukora akazi arimo cyangwa se niba aribukore ibindi. Mu by'ukuri arigutekereza cyane. Arasa nk'uwabuze igisubizo ku bibazo yifitiye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imitekerereze, kidushishikariza kukigana kugira ngo tubashe kubona ubutabazi bw'ibanze n'inama zitandukanye zigendanye n'imitekerereze. Ni byiza ko tukigana kugira ngo tubashe kumenya byinshi ku buzima bwacu, bababashe no kudusobanurira ingano y'imitekerereze turiho. Turebe ikibura n'icyo tugomba kongeramo, ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Icyorezo cya covide cumi n'icyenda, ni icyorezo cyadusigiye kumenya uko tugomba kwirinda igihe turi mu bantu benshi ndetse turimo dukora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ni icyorezo cyatumye tumenya uko tugomba kwirinda twambara agapfukamunwa, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza.

Ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu atandukanye, arimo ubururu, umuhondo n'icyatsi. Iyo umuntu afashe ibendera ari kurizamura, biba bigaragara ko atewe ishema n'igihugu cyiwe. Ni byiza ko dukomeza kwishimira igihugu cyacu kugira ngo tubashe kugiteza imbere.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imitekerereze kigaragaza ko iyo umuntu ababaye aba afite ikibazo cyo mu mutwe kandi gishobora kumugiraho ingaruka igihe atabonye umuntu umwegera ngo amuganirize, ni byiza ko turinda abana bacu gutekereza cyane bakiri bato kugira ngo ubuzima bwabo bubashe gukora bameze neza ndetse bibarinde no kugira indwara za hato na hato.

Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze zateranye aho zakoresheje ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kugeza ubutumwa ku bo babugeneye. Hano twavuga nk'ameza yifashishijwe bashyiraho amakaye yo kwandika, amakaye bandikagamo, amakaramu ndetse n'intebe. Ni byiza rero ko tugomba gukora inama dufite ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwakira ubutumwa neza.

Indwara yo mu mutwe ni indwara yibasira abantu batandukanye, haba abagabo, abagore cyangwa se abana, aho usanga uwo yagaragayeho agira ibimenyetso bitandukanye nko kwigunga, kwivugisha, gukora ibintu bye biterekeranye ndetse bidafite n'igisobanuro.

Caraes Ndera ni ikigo gifasha abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ni byiza rero ko igihe tugaragayeho ibimenyetso by'uko dufite uburwayi bwo mu mutwe, tukigana kugira ngo babashe kuduha ubuvuzi bw'ibanze, ndetse n'inama zitandukanye indwara yacu ibashe gukira.

Igishushanyo kitugaragariza uko ubuyobozi butanga serivise z'ubuzima bugenda bukurikirana ni byiza ko tubimenya kugira ngo tubashe kumenya aho tugana n'abo tuganaho na serivise tugiye kubaka ndetse n'aho tugomba guhera igihe tugiye kwaka serivise zigendanye n'ubuzima.

Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze batubwira ko ari byiza kubagana, igihe duhuye n'ikibazo cyo mu mutwe, bakomeza badushishikariza ko tugomba kubagana kugira ngo baduhe inama zitandukanye, bityo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, ni byiza rero ko tubagana, kugira ngo tubashe kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze.

Amenyo ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufasha kurya, ni byiza ko tuyagirira isuku, tukayakorera igikwiriye kugira ngo abashe kuba ameze neza, igihe tugize ikibazo cy'amenyo tugomba kwegera inzobere mu bijyanye n'amenyo, bakadufasha, bakaduha ubutabazi bw'ibanze.

Indwara y'amenyo ni indwara yafata buri muntu uwo ariwe wese, ni byiza ko rero igihe tugaragaweho ibimenyetso by'uko turwaye indwara y'amenyo, tugomba kugana inzobere mu babishinzwe bakadufasha kugira ngo batuvure amenyo, tubashe gukomeza gukora neza, anadufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Gukorera isuku amenyo yacu ni ingenzi kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye, zandurira mu kudakorera isuku yacu amenyo, ni byiza rero ko tumenya agaciro amenyo adufitiye maze tukabasha kugana ibigo bitandukanye bifite inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, zikadufasha igihe hari ikibazo duhuye na cyo cyerekeranye n'amenyo.

Abahanga mu bijyanye no gukura amenyo, batubwira ko igihe tugize ikibazo cyerekeranye n'amenyo, ari byiza kubagana kugira ngo babashe kuduha ubuvuzi bw'ibanze maze birinde no kwanduza ayandi menyo babashe kudufasha ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, zerekeranye n'ubuvuzi bw'amenyo, mu cyumba cy'umurwayi haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo aze guhabwa ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'intebe yicaraho iyo barimo bamusuzuma, ndetse n'indi miti itandukanye bamuha iyo bamaze kumusuzuma.

Amenyo yacu ni ingenzi ni byiza kuyakorera isuku, dukoresheje umuti wabugenewe uzwi nka crogate mu ndimi z'amahanga. Ni byiza ko dukurikirana ubuzima bw'amenyo yacu, kugira ngo tubashe kuyagumana kandi abashe kudukorera icyo agakwiye gukora. Tugane abahanga mu bigendanye n'iby'amenyo batugire inama zitandukanye ku buryo tubasha kuyafata neza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku barwayi, twavuga nk'igitanda umurwayi aba aryamyeho ndetse n'imiti ahabwa igihe amaze gusuzumwa n'umuganga wo kumwitaho, ni byiza rero ko tubagana kugira ngo babashe gusigasira amagara yacu.

Amenyo ni igikoresho kiri ku mubiri wacu, aho kidufitiye akamaro ko kudufasha kurya, ibiryo tukabasha kubimira bimeze neza, maze tukorohereza igifu. Ni byiza ko duharanira ubuzima bw'amenyo yacu, kugira ngo tubashe gukomeza kuyakoresha.

kugirira amenyo yacu isukuye ni ingenzi kubera ko adufasha guhekenya. Ni byiza ko tumenya agaciro k'amenyo yacu, igihe yagize ikibazo tukagana abahanga mu bigendanye n'amenyo bakadufasha, bakaduha ubutabazi bw'ibanze, bityo amenyo yacu agakomeza gukora neza.

Amenyo yacu ni ingenzi kubera ko adufasha guhekenya ibiryo, ni byiza ko tuyakurikirana igihe ahuye n'ikibazo tukagana inzobere mu bijyanye n'amenyo, bakadufasha ndetse bakaduha n'ubuvuzi bw'ibanze, bwerekeranye no ku menyo, ni byiza rero ko twita ku menyo yacu kugira ngo tubashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Kwita ku menyo yacu ni ingirakamaro kubera ko adufitiye akamaro kenshi kandi keza, ni byiza ko igihe tugaragaweho indwara y'uko turwaye amenyo ari byiza ko tugana ikigo nderabuzima kugira ngo kidufashe kuyakuramo, tubashe kubona andi menyo cyangwa se yoye gukomeza kwanduza ayandi.

Amenyo yacu ni ay'agaciro kubera ko adufasha mu kurya, ni byiza ko tugomba gukurikirana uburyo ameze kugira ngo nidusanga yahuye n'ikibazo tujye ku baganga b'inzobere, babidufashemo baduhe ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'inama zigiye zitandukanye kugira ngo n'andi asigayemo atayanduza.

Gukorera amenyo yacu isuku ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biyarinda gucukuka no gukuka imburagihe, ni byiza rero ko dutoza abana bacu gukorera amenyo yabo isuku kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse birinde n'indwara zitandukanye zandurira mu menyo, no kwirinda kuba bazanduza abandi.

Kugirira amenyo yacu isuku ni ingenzi, kugira ngo tubashe guseka nta shiti. Duharanire isuku y'amenyo yacu kugira ngo tubashe kuyagumana, abashe no gukomeza kudufasha mu mirire. Ni byiza rero ko tugana ibigo bifite ubushobozi mu kudufasha mu buvuzi bw'amenyo, bityo bakaduha ubuvuzi bw'ibanze bugendanye n'indwara z'amenyo.

Mu kigo gitanga ubuvuzi bw'amenyo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe barimo basuzuma umurwayi, twavuga nk'intebe aba yicayeho, amazi yo gukoresha ndetse n'ikirori yikoresha arimo yireba kugira ngo abashe kubona ahaherereye uburwayi.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima badushishikariza ko tugomba kubagana igihe dufite ikibazo cy'amenyo nko kuba yarakutse yose agashiramo, ko baduha ubutabazi bw'ibanze bakaduha igisimbura amenyo yacu tukabasha gukomeza gukora neza ndetse no kurya nta kibazo duhuye na cyo.

Amenyo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko adufasha kurya. Ni byiza ko igihe ahuye n'indwara tugomba kugana ibigo nderabuzima bibishinzwe bikadufasha kubona ubutabazi bw'ibanze, ndetse bakaba banadufasha kubona andi menyo igihe yahuye n'ikibazo cyo gucukuka. Bityo ubuzima bwacu bugakomeza kugenda neza.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe barimo basuzuma umurwayi, aha twavuga nk'intebe umurwayi yicaraho, ameza, amazi yo kunywa, aho bakarabira ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugirango babashe gupima umurwayi neza.

Gukorera isuku amenyo yacu ni ingenzi kukoko adufasha mu gikorwa cyo kurya, ni byiza ko tumenya niba amenyo yacu nta burwayi afite kugira ngo tubashe kugana abahanga mu babizobereye baduhe ubuvuzi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze bwerekeranye n'amenyo. Ni byiza rero ko tugomba kubagana kugira ngo babashe kuduha imiti itandukanye babashe no kuba batugira inama.

Mu bigo bitanga serivise z'ubuzima mu byumba birwariramo abarwayi, haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma umurwayi neza, aha twavuga nk'igitanda aryamaho, intebe yicaraho ndetse n'ibikoresho bitandukanye, bifashisha igihe barimo bamuvura.

Itsinda ry'abantu batandukanye, higanjemo urubyiruko, abasore, inkumi, abagabo, abasaza abazungu ndetse n'abandi, aho bari gusobanura ku bijyanye na dento herifu cyangwa se ubuvuzi bw'amenyo mu buryo burambuye.

Gukorera amenyo yacu isuku ni ingirakamaro kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye zatuma arwara cyangwa se acukuka agakuka igihe kitageze. Ni byiza rero ko tugomba kumenya isuku yacu yo mu menyo dukoresha umuti wabugenewe uziwi nka korogati kugira ngo tubashe kugira isuku nziza mu menyo.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibyumba birwariyemo abarwayi, aho haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo uwo murwayi abashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'igitanda aba aryamyeho, intebe aba yicayeho ndetse n'utubati tuba turiho imiti agomba guhabwa kugira ngo abashe kubona ubutabazi bw'ibanze.

Mu inyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma umurwayi. Aha twavuga nk'igitanda baryamyeho, intebe yicaraho ndetse n'ibyuma bitanga umuriro kugira ngo abashe gukora akazi neza. Ni byiza rero ko ibigo nderabuzima byose bigira ibikoresho bihagije kugira ngo abarwayi babashe kubagana babona serivisi inogeye.

Kujya kwisuzumisha indwara y'amenyo ni ingenzi, kubera ko bidufasha kumenya uko ubuzima bw'amenyo yacu buhagaze, ndetse bikanadufasha gukomeza adufasha mu gukora akazi kayo, no guhekenya, mu buryo butworoheye.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku murwayi. Twavuga nk'intebe zihabwa abamugaye, imbago zihabwa abavunitse ndetse n'ubukarabiro. Ni byiza rero ko tugana ibigo nderabuzima bifite ibikoresho bihagije kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Kwita ku menyo yacu tuyakorera isuku ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biturinda kwandura indwara zitandukanye ziterwa no kutagirira amenyo yacu isuku, ni byiza rero ko tumenya ko amenyo yacu ari ingenzi kubera ko akadufasha mu kurya, maze tukayagirira isuku bityo akabasha gukomeza gukora akazi kayo.

Kugana inzobere mu bigendanye n'ubuvuzi bw'amenyo ni ingenzi kubera ko badufasha kubona andi menyo igihe twakutse ayandi. Ni byiza rero ko tubagana igihe duhuye n'ikibazo cy'amenyo bakaduha ubutabazi bw'ibanze, ndetse n'imiti ishobora kwifashishwa kugira ngo amenyo yacu ye gukomeza kurwara.

Kugirira amenyo yacu isuku ni ingenzi kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye. Ni byiza ko dushishikariza abana bacu kumenya ko bagomba gukorera amenyo yabo isuku, bityo bikabarinda indwara zitandukanye zandurira mu kudakorera isuka amenyo yacu. Ni byiza rero ko tuyakorera isuku kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze tubashe no kuyagumana yose uko yakabaye.

Kwita ku bageze mu myaka y'izabukuru ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo. Ni byiza ko tugomba kubegera tukabaganiriza byinshi byerekeranye n'ubuzima bwabo, ndetse tukanabafasha kubageza kwa muganga igihe bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Bityo ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza.

Kwita ku bageze mu myaka y'izabukuru ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni byiza ko tugomba kubasobanurira akamaro ko gukora siporo ngo mu buzima bwabo kubera ko bibafasha kurambura imitsi ndetse no kumva bameze neza mu mubiri. Tubashishikarize ibyiza bya siporo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzira umuze.

Ni byiza gushishikariza abageze mu myaka y'izabukuru kongera gufata ibitabo bagasoma ndetse bakanandika kubera ko bibafasha gukangura ubwonko bwabo bakabasha kongera gutekereza neza. Ni byiza rero ko tubibakangurira bakabikora maze ubuzima bwabo bukakomeza gukora neza n'ubwonko bwabo bugakomeza gutekereza nubwo baba bageze mu myaka y'izabukuru.

Abageze mu myaka y'izabukuru bashishikarizwa no gukina n'abana kugira ngo abana be kubagaragariza ko babatinya. Ni byiza rero ko tugomba kugaragariza abana bacu urukundo kugira ngo be kudutinya, kubera ko babona ko dukuze.

Icyumba cyo kuriramo kibamo ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe gukora icyo gikorwa, twavuga nk'intebe zo kwicaraho, ameza yo guterekaho amasahane n'amasahane yo gushyiramo ibyo kurya ndetse n'ibiyiko bikoreshwa kugira ngo ubashe kuyora ibyo kurya. Ni byiza ko twakira neza abatugana kugira ngo tubasobanurire ibyo bakeneye, tubibahe neza maze batahe bishimye.

Gukoresha imbuto n'imboga ku bakuze ni ingenzi i kubera ko bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza no kwirinda indwara zitandukanye zandurira mu kubura vitamine zigiye zitandukanye z'imboga ndetse n'iz'imbuto, ni byiza rero kubashishikariza kurya imboga n'imbuto kugira ngo babashe gukomeza kugira imbaraga ndetse n'imyaka yabo yiyongera.

Gufasha abantu bageze mu myaka y'izabukuru ni byiza kubera ko nta mbaraga baba bafite, turashishikarizwa kubafasha ndetse no kubegera kubaha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza n'imyaka yabo ibashe kwiyongera, ni byiza rero ko tubagana tukabaganiriza, tukabafasha kugira ngo babashe kugira uburame bwiza.

Kwita ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko tubafasha gukora siporo kugira ubashe kugorora imibiri yabo, bityo ubuzima bwabo babashe kugenda neza birinde indwara ziterwa no kudakora siporo ihagije mu mubiri.

Ni byiza ko urubyiruko rukwiriye kumva ko kwita ku bageze mu myaka y'izabukuru ari inshingano zabo kubera ko baba bafite imbaraga nkeya, tugomba kubitaho tubahereza ibyo bakeneye, tubafasha mu ngendo zabo, tubaruhura imitwaro bafite kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kuberako biturinda kurwara indwara ziterwa no kudakora siporo. Ni byiza ko tugomba gushishikarizwa gukora siporo kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza tunirinde indwara zitandukanye buri umwe wese agomba kubigira ibye nk'aho ari umuti yandikiwe na muganga.

Kuganiriza abageze mu myaka y'izabukuru ni byiza kubera ko bibafasha kubona ko bitaweho bikabarinda kwigunga bigatuma imibereho yabo ikomeza kwiyongera, kubera ko nta bintu byinshi baba bafite byo gutekereza bibaza ngo, ese kubera iki bataza kutwitaho cyangwa se kubera iki tutaganira n'abandi.

Abageze mu myaka y'izabukuru ni byiza ko tubashishikariza gusoma, kugira ngo babashe gukangura ubwonko bwabo, gusoma ni ingenzi ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru, kugira ngo bibashe kwibuka bibarinde no kwibagirwa, ni byiza rero ko tugomba gusoma, tubashishikariza ibyiza byo gusoma kuri bo.

Abantu babiri aho bicaye mu ruganiriro bari kureba kuri telefone amakuru agiye atandukanye yerekeranye n'ibyo bashaka, umwe arasobanurira undi uko byifashe.

Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biturinda kwandura indwara zimwe na zimwe ziterwa no kudakora siporo, ni byiza ko twitabira ibibuga byabugenewe bikorerwaho siporo kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, turinde n'ubuzima bwacu kurwara indwara zitandukanye.

Kwita ku bageze mu myaka y'izabukuru, ni ingenzi mu buzima bwabo kubera ko bibafasha. Ni byiza rero ko tubegera tukabaganiriza byinshi bitandukanye, ku buzima bwabo kugira ngo babashe kwitwara neza bagire uburame burambye. Ni byiza rero ko dukomeza kubashishikariza kumva ko ubuzima bwabo ari ubw'agaciro, bakabufata neza nubwo baba bageze mu zabukuru.

Abagore basobanura ko gukora siporo ari ingenzi mu buzima kuko bifasha kugorora umubiri ndetse bigatanga n'ubuzima bwiza, bikagufasha no gutekereza neza, igihe wakoze siporo kuko uba waruhuye ubwonko.

Kwita ku bageze mu myaka y'izabukuru ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza rero ko tubafasha akazi gatandukanye badashoboye gukora kubera ko imbaraga zabo ziba ari nkeya. Tubafashe kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza kandi bakomeze kubaho nta kibazo na kimwe bafite.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, mu cyumba umurwayi aba arwariyemo haba harimo ibikoresho bitandukanye, bimufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, aho twavuga nk'igitanda aba aryamyeho ndetse n'icyuma kimufasha kugenda kugira ngo umubiri wiwe ugororoke, ni byiza rero ko dukomeza kwita ku barwayi bacu kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bashishikarizwa gusobanurira neza abageze mu myaka y'izabukuru uko bagomba gukoresha imiti babahaye kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza ndetse babashe no kuyikurikiza bityo bibafashe mu buzima bwabo bubashe gukira, ni byiza rero ko tubashishikariza kugana ibigo nderabuzima kugira ngo babashe kwisuzumisha.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibyumba byagenewe abinjiramo, abafite imyaka y'izabukuru kugira ngo bafashwe kugororerwa ingingo ndetse no guhabwa ubuvuzi bw'ibanze. Haba harimo ibikoresho rero bitandukanye byifashishwa nk'intebe umurwayi yicaraho, ameza yo gushyiraho ibitabo ndetse n'igitanda cyo kuryamaho kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Kurya indyo yuzuye ku bageze mu myaka y'iza bukuru ni ingenzi kubera ko bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko tubashishikariza gukomeza kurya indyo yuzuye, kugira ngo imitekerereze yabo igende neza ndetse n'amasaziro yabo akomeze kugenda neza, birinde indwara ziterwa no kutarya indyo yuzuye mu buzima.

Gukora siporo ku bageze mu myaka y'izabukuru, ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo, bikanabafasha kwirinda kwandura indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo, ni byiza rero kubashishikariza gukora siporo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza kandi bakomeze bagire ubuzima buzira umuze, birinda indwara zitandukanye.

Igikorwa cyo gutanga imbago ku bavunitse, ni igikorwa cyahuje abantu bagiye batandukanye, aho higanjemo abagabo, abagore, abana ndetse n'abandi, ingeri zose zahahuriye, aho batangaga imbago ku bantu bavunitse, bityo byabafashije gukomeza kugira ubuzima bwiza no kubafasha kuba bagera aho batabashaga kugera.

Iyo tunywa ibinini twahawe na muganga, ni byiza ko dukoresha amazi kugira ngo tubashe kubimira. Ni byiza rero ko tugomba kunywa ibinini twahawe kugira ngo tubashe gukira indwara turwaye, hato tutazongera kurwara bya hato na hato cyangwa se ngo twongere kurwara vuba vuba.

Kwita ku bageze mu myaka y'izabukuru by'umwihariko abafite ubumuga bw'ingingo, ni ingenzi kubera ko bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse n'imyaka yabo ikiyongera, ni byiza ko tubegera aho kugira ngo tubatererane bityo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza, babonye ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaganga basobanurirwa ko ari ingenzi gusobanurira abageze mu zabukuru uko bagomba gukoresha imiti babahaye. Ni byiza ko abaganga basobanurira abageze mu zabukuru uko bagomba gukoresha imiti babahaye, kugira indwara bashe kwivuza zibashe gukira neza zitongeye kugaruka. Bityo ubuzima bwabo bukomeze kugira ubudahangarwa, birinda n'indwara zitandukanye zituruka mu kutanywa imiti ngo uyirangize.

Kwita ku bageze mu za bukuru tubaha ifunguro rya mu gitondo, ni ingenzi mu buzima bwabo kubera ko bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, ni byiza rero ko dukomeza kubitaho kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'imbaraga zabo, bakomeze kuba bazibika.

kwita ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, aha dushobora nko kubaha ubufasha bwo kubegereza amazi, inkwi bakoresha bateka n'amazi bakoresha batekesha kubera ko nta mbaraga baba bafite zo kubyihereza, ni byiza rero ko dukomeza kubegera kugira ngo tubashe kubafasha na bo ubuzima bwabo bubashe gukomeza kugenda neza.

Gushishikariza abageze mu myaka y'izabukuru gukora siporo ni ingenzi kubera ko bituma imitsi yabo igororoka ndetse bikabarinda n'indwara zandurira mu kutabona uburyo bwo gukora siporo maze bakagira ubuzima bwiza, ni byiza rero ko dukomeza kubashishikariza ibyiza bya siporo kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Kwita ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru ni ingenzi kubera ko bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko tubegera, tukabaganiriza, tukabahereza ibyo bakeneye kugirango babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, tubegere tubaganirize kandi tubahe ubuvuzi bw'ibanze n'ubutabazi bw'ibanze, aho bikenewe kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gikomeza gishishikariza abakigana ko ari byiza gukomeza gusobanukirwa ibihakorerwa ndetse bakanakigana bagashishikariza na bagenzi babo kukigana mu gihe batazi ibihakorerwa bakabisobanurirwa.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima haba hari ibikoresho byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma umurwayi, aha twavuga nk'intebe umurwayi yicaraho, igitanda cyo kuryamaho, agakarito ko kujugunyamo imyanda, ndetse n'inshinge bakoresha bamutera, ni byiza ko tugana ibi bigo nderabuzima kugira ngo bibashe kudufasha.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kidushishikariza kujya kwa muganga kwipimisha ubwoko bw'amaraso yacu kugira ngo tubashe kumenya ubwoko dufite ni byiza rero ko tugana ibyo bigo nderabuzima kugira ngo bidufashe gusobanukirwa neza ubwoko bw'amaraso yacu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza ababyeyi kuboneza urubyaro kugira ngo babashe kwita ku bana babo b'incuke, babarinde indwara ndetse bakomeze no kubitaho nta bandi bafite bababangamira ndetse n'ubwiyongere bw'abana badafite gikurikiranwa bubashe kugabanuka.

iIcyorezo cya kovide ni icyorezo cyafashe isi yose aho cyari gifite ibimenyetso bitandukanye nko kubabara umutwe, gucika intege, kuva amaraso ahari imyanya ku mubiri. Ni byiza rero ko twamenye uburyo tugomba kuyirinda twamba agapfukamunwa, tusiganamo intera, tutegerana ndetse no gukoresha uburyo bwo koga hafi ya buri kanya mu buryo bwo kwirinda indwara zo kwandura za hato na hato.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abakozi bakora muri serivisi zigendanye n'ubuzima, kujya bakora akazi kabo bambaye imyenda y'akazi kugira ngo babashe kwitandukanya n'ababagana. Ni byiza gukora akazi wambaye imyenda ikuranga kugira ngo ubashe kugaragara neza kandi ubashe gukora akazi kawe nta kibazo na kimwe ufite cy'uko utubahirije amabwiriza agenga akazi.

Imfashanyigisho ku byerekeye ku gakoko gatera SIDA uburyo twabyirinda, uburyo twakwifata ku bayanduye ndetse n'uburyo twakwiyitaho n'uko twakwita ku bayanduye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza abatanga serivisi z'ubuzima bazwi nk'abaganga kwita ku babagana neza kugira ngo babashe kubona ubutabazi bw'ibanze, ni uko rero mu gihe bari kubasuzuma bifashisha ibikoresho bitandukanye, nk'imiti iza guhabwa umaze gusuzumwa, ndetse n'ibikoresho bitandukanye harimo nko gufata amaraso, ni byiza ko dufata abarwayi neza kugira ngo n'ubutaha bazagaruke.

Uruvunganzoka rw'abantu ruteraniye mu cyumba cy'aho bafatira amaraso, barasobanura yuko kwifatisha amaraso ari byiza kuko babasha kumenya uko bahagaze mu mubiri bakamenya n'uko amaraso yabo ameze cyangwa se nta ndwara zirimo ibyo byose bakabisobanukirwa.

Mu bigo bitanga serivisi zerekeranye n'ubuzima habamo ibitanda birwariramo abarwayi haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo uwo murwayi abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze aha twavuga nk'imiti yifashishwa kugira ngo bamuhe abashe koroherwa igitanda baryamyeho n'intebe yicarwaho n’umusuzuma ni byiza rero ko tugira ibikoresho bihagije kugira ngo abarwayi bacu babashe gukira.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gikomeza gushishikariza ababyeyi bafite abana bakiri batoya, gukomeza gukurikirana ubuzima bwabo, babajyana ku bigo nderabuzima bakabakingira bakabaha ibinini, bagakomeza gukura neza nta ndwara bahuye nazo.

Kumenya ubwoko bw'amaraso yacu ni ingenzi kubera ko bidufasha mu bubuzima bwacu bwa buri munsi. Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima kidushishikariza kukigana kugira ngo kibashe kudufasha muri serivise yo kumenya ubwoko bw'amaraso yacu. Ni byiza rero ko tukigana kugira ngo dusobanukirwe neza abo turi bo, ndetse dusobanukirwe neza n'ubwoko bw'amaraso yacu dufite.

Minisiteri y'ubuzima ishishikariza abaturage kwita ku buzima bwabo kubera ko ari ingenzi, ni byiza rero ko twumva inama z'abayobozi bacu kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza, tunakore tunafite ubuzima buzira umuze, tubakurikize kugira ngo tubashe kumva ko ubuzima bwacu ari ubw'agaciro.

Indwara ya diyabete, ni indwara ifata abantu bageze mu myaka y'izabukuru, ni byiza ko igihe tugaragayeho iyo ndwara tugomba kugana ibigo bibishinzwe, bikadufasha kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'ibanze, ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza. Tubagane kugira ngo tubashe kubona imiti ihagije, maze iyo ndwara ya diyabete ikire mu buryo burambuye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburenganzira bwa muntu, gisobanura yuko iyo barimo basobanura inshingano zabo ni cyo bashinzwe gukora. Bakoresheje igishushanyo ari byiza kubera ko bibafasha kubyumvisha abo barimo babibwira, bakabasha kubitahana no kubikurikiza bakaba banabisobanurira abandi batabohanetse, bakomeza basobanura ko ari byiza kugira ngo...

Ihuriro ry'abaganga bita ku buzima basobanura ko ari byiza gukora akazi kabo neza, babwira abarwayi neza kugira ngo babashe kubaha imiti, ubujyanama ndetse n'amakuru arambuye ku ndwara babasanzemo, basobanura ko ari byiza rero kuba bafata neza ababagana kugira ngo babashe kubona amakuru arambuye.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye. Aha twavuga nk'intebe bicaraho, ameza yo guterekaho ndetse na kamera yo gufata amashusho kugira ngo babashe kuzasobanura neza ibyo bakoze n'igishushanyo kigaragaza ibyo bari barimo bigaho.

Inama yateranyije abayobozi b'abagore aho hari hifashishijwe ibikoresho bitandukanye nk'intebe bicayeho, ameza, ibyo kwandikaho ndetse n'ifatashusho kugira ngo babashe gufata ifoto babashe kwishyira ahagaragara berekane igikorwa bari barimo, ni byiza ko dukomeza guharanira uburenganzira bw'umugore kugira ngo abashe gutera imbere mu miyoborere.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza urubyiruko gukoresha udukingirizo, igihe bari gukora imibonano mpuzabitsina kubera ko baba barimo bikingira indwara zitandukanye, ni byiza rero ko tumenya agaciro k'ubuzima bwacu, igihe turi gukora imibonano mpuzabitsina tukikingira kugira ngo tubashe kwirinda indwara zitandukanye ndetse tube twakwirinda no kuzanduza abandi.

Gahunda yo kuboneza urubyaro, ni gahunda yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu bashakanye, aho babashishikariza kuboneza urubyaro kugira ngo birinde indwara ndetse birinde no kubyara abana batateganyijwe.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari imiti itandukanye n'ibikoresho byifashishwa kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bunogeye, twavuga nk'ibitanda biryamaho abarwayi, imiti yifashishwa igihe hari ikibazo gitunguranye kibaye, twavuga nka serumo. Ni byiza rero ko tugomba kwita ku barwayi bacu kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza abaturage kwipimisha indwara zitandura, kugira ngo babashe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Ni ingenzi rero ko rero tugomba kwipimisha indwara zitandura kugira ngo tubashe kumenya aho duhagaze duhabwe n'ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba gikorerwamo inama, kiba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe abakoze inama bicaraho, ameza, ibyo bandikaho, amakaramu bakoresha bandika ndetse n'ibishushanyo bitandukanye bishobora kubafasha no kumva neza ibyo barimo bakoreraho inama.

Abaturage bicaye ku rwakiriro, aho bategerereje ababaha ubufasha, bicaye ari benshi, bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, byerekeranye na gahunda bajemo kwa muganga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kiba gifite ibikoresho bitandukanye, bifashisha kugira ngo babashe gufasha umurwayi mu buryo bwihuse, twavuga nk'ibitanda byo kuryamaho, imiti yo guhabwa igihe amaze kuvurwa, abaganga b'inzobere ndetse n'abajyanama batandukanye.

lndwara y'ibibyimba ni indwara ifata ku mubiri w'umuntu, ni byiza ko igihe tugaragaweho indwara y'ibibyimba ku mubiri wacu tugana ikigo kibishinzwe kikabasha kuduha ubutabazi bw'ibanze, bityo umubiri wacu ukanyerera kandi tukagira umubiri uzira indwara.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibyumba abarwayi bagomba kujyamo, birimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumuvura, twavuga nk'intebe aba yicayeho, igitanda cyo kuryamaho ndetse n'imiti y'ibanze yifashishwa kugira ngo basuzume indwara ye.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo inama ize kugenda neza, aha twavuga nka bafure, mikoro, intebe ndetse n'ameza n'igishushanyo mbonera kibafasha kumva neza ingingo bari kuvuga.

Umuyobozi ushinzwe ibidukikije muri rusange, akomeza asobanura ko gusigasira ibidukikije ari ingenzi kubera ko bituma tugira ubuzima bwiza ndetse bikaturinda no kurwara indwara za hato na hato kuko bidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka.

Gutanga ubwishingizi ni ingenzi kuko budufasha kubona serivisi zitandukanye zigendanye n’ubuzima. Ni byiza ko dutanga ubwishingizi bwa Mutuelle kugira ngo tubashe kugera kwa muganga igihe turwaye, twakirwe neza, tubone imiti dukeneye, ndetse tubashe no kugira ubuzima bwiza. Buri umwe wese arashishikarizwa gutanga Mutuelle de Santé, kugira ngo azabone ubuvuzi bwiza n’imiti akeneye.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe kwita ku barwayi, twavuga nk'imashini bakoresha barimo bareba imyirondoro y'umurwayi, intebe aba yicayeho, ndetse n'ibyuma bitanga umuriro kugira ngo babashe gukora neza nta kibazo cy'umuriro bafite.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima icyumba umurwayi aryamamo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo aze guhabwa ubutabazi bw'ibanze. Twavuga nk'ibitanda baryamaho, intebe bicaraho, imisego bisegura ndetse na televiziyo bakoresha bareba kugira ngo ubashe kwirengagiza uburibwe bariho.

Mu bigo bitanga serivise z'ubuzima mu cyumba cy'abarwayi, haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo baze gufasha umurwayi, twavuga nk'igitanda umurwayi aryamaho, intebe yicaramo, imiti itandukanye bamuha kugira ngo abashe gukira, ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije kugira ngo abarwayi batugana, babashe guhabwa ubutabazi bukwiriye.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima. Haba harimo ibikoresho bitandukanye nka mashini, televiziyo, garafeze, intebe, imiti, kugira babashe guha serivisi inogeye ababagana, bityo ni byiza kubagana kugira ngo babashe kutwitaho.

Mu bigo bitanga serivise z'ubuzima haba harimo abakozi batandukanye, twavuga nk'abakozi bayobora abandi baje babagana kugira ngo babashe gusobanukirwa neza aho bagiye, ni byiza rero ko tugomba kugira abakozi babasha gusobanurira neza ababagana maze bakabasha kuyoboka, bakamenya n'aho bagiye bakaka serivisi, bagakwiriye kwaka n'aho bagakwiriye kuyaka.

Inyubako zitandukanye zitanga serivisi z'ubuzima, zigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bafashe abarwayi baza babagana. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ameza, utubati, ibitanda bigiye bitandukanye, aho byifashishwa kugira ngo bafashe abarwayi kuba babavura indwara zitandukanye.

Isange one stop center ni ikigo gifasha abantu bahuye n'ihohoterwa kubona ubutabazi bw'ibanze, ni byiza rero ko tugomba kukigana igihe twahuye n'ihohoterwa, kugira ngo kibashe kudufasha kiduhe n'inama kiduhe n'imiti maze tubashe gukira indwara dufite.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo imiti itandukanye yifashishwa kugira ngo umurwayi abashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze. Aha twavuga nk'amaraso ahabwa umurwayi igihe ayakeneye akayongererwa maze ubuzima bwiwe bukabasha kugenda neza. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa nk'igitanda mugwayi aryamaho intebe yicaraho ndetse n'ameza bashyiraho imiti bamuhaye n'iy'ibitabo birimo imyirondoro ye.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma abarwayi. Aha twavuga nk'igitanda umurwayi aba aryamyeho, mashini yandikwamo imyirondoro yiwe, ndetse n'intebe aba yicayeho igihe arikuvuga ikibazo cye. Imiti ahabwa igihe bamaze kumusuzuma. Ni byiza ko rero tukigana kugira ngo tubashe kubona ubutabazi bw'ibanze.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibyumba bitandukanye bikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye. Ni byiza rero ko buri cyumba cyandikwaho kugira ngo ukigana abashe gusobanukirwa neza aho agiye kwinjira kugira ngo ataza kuyoba akajya gu kwaka serivisi aho atari akwiriye.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe kwita ku murwayi, twavuga nk'igitanda baryamyeho, amazi ndetse n'imiti amuha igihe amaze kumusuzuma, ni byiza rero ko tugomba kwiyegereza ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwita ku murwayi wacu.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku murwayi. Aha twavuga nk'ibikoresho bifashisha bapima ibiro by'umurwayi, mashine bandikamo imyirondoro yiwe, ndetse n'ibitanda bamushyiraho igihe bamaze kumusuzuma, n'imiti y'ibanze bamuhereza kugira ngo abashe gukira. Ni byiza ko twita ku barwayi bacu kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo icyumba gikubiyemo imiti yose abarwayi bakenera iyo babandikiye, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa twavuga nk'intebe yicarwaho n'umurwayi igihe aje kureba imiti. Ni byiza rero ko tubasobanurira bakabasha kubagana kugira ngo babashe kubona imiti baba bandikiwe banayinywe neza uko tuba twabibabwiye.

Icyumba k'imiti y'abantu yiganjemo ubwoko bugiye butandukanye, aho ababagana bashaka imiti igiye itandukanye bakabasha kuyibona kubera ko ari ho igomba kuba iri, kandi igomba no kuba ibarizwa imiti y'abantu.

Mu bigo nderabuzima bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima haba hari abantu benshi batandukanye baje gushaka serivisi zigiye zitandukanye, twavuga nk'ababa baje gukingiza abana, abaje kuvanguza amafishi ibizwi nka mituwere de sante, ni byiza rero ko tugomba kubagana kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uburyo bwerekeranye n'ubuzima bwacu.

Mu bigo bitanga serivise z'ubuzima haba hari ibyumba bitandukanye umuntu abanza gucamo kugira ngo abashe kugera kuri serivisi yaje guhabwa. Twavuga nka reception cyangwa se ubwakiriro. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira ababagana. Twavuga nk'intebe bicaramo, ndetse n'ibikoresho byifashishwa bamubaza imyirondoro kugira ngo abashe gukomeza. Ni byiza ko twita ku batugana kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirwariyemo umurwayi kirimo umuganga aho ari gusuzuma umurwayi indwara arwaye, kugira ngo abashe kumenya ubutabazi ari bumuhe ndetse n'imiti iri bumufashe.

Mu byumba bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku murwayi. Twavuga nk'igitanda aryamaho, intebe yicaramo, mashini yifashishwa bari gushaka imyirondoro yiwe, ibyuma bitanga umwuka ndetse n'umuyaga ukonje, kugira ngo ataza kubura umwuka wo guhumeka.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe bari gusuzuma abarwayi twavuga nk'intebe bicaraho hanze igihe bategereje ababaha ubufasha, amazi yo kunywa ndetse n'abandi bantu babayobora aho bagiye kugana kugira ngo babashe kugenda batayoba.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku barwayi. Twavuga nk'ibitanda abarwayi baryamaho, ikidobo cyo kujugunyamo imyanda, ndetse n'imiti bahabwa igihe bamaze gusuzumwa. Ni byiza rero ko ibigo nderabuzima byose bigomba kugira ibikoresho bihagije, kugira ngo babashe kwita ku barwayi baba babaganye.

Abaganga basobanura ko iyo umurwayi abagannye, bagafata ikizamini cy'amaraso, babanza kumushumika agatambaro ku kuboko kugira ngo babashe kubona amaraso menshi bakeneye babone indwara yaba irimo.

Mu nyubako zitanga serivisi y'ubuzima harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe kwita ku barwayi. Twavuga nk'intebe zicaramo abarwayi, ndetse n'igikoresho cyitwa vandarateri kibahereza umuyaga mu gihe cy'ubushyuhe. Ni byiza rero ko tugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kugirira neza abatugana.

Ibigo nderabuzima bitanga serivisi z'ubuzima, haba hari abantu batandukanye baje gushaka serivisi zitandukanye. Aha twavuga nk'abaje gukingiza abana, kwivuza indwara ndetse no gushaka ubundi buvuzi bw'ibanze butandukanye bitewe n'indwara yatumye ahagera. Ni byiza ko tugana bino bigo nderabuzima kugira ngo bidufashe gusobanukirwa indwara turwaye, babashe no kuduha imiti izivura.

Aha turi kwa muganga, aho turi mu cyumba cy'abarwayi barwariyemo ari babiri, baryamye bari ku byuma, bategereje umuganga waza kubafasha mu burwayi bafite.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma umurwayi. Aha twavuga nk'igitanda umurwayi aryamaho, intebe umurwayi yicaraho ndetse n'iyo umusuzuma yicaraho, n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma indwara afite.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima zishishikarizwa gutera ubusitani ku nkengero kugira ngo bufashe ababagana kubona umwuka mwiza ndetse n'aho bashobora kuruhukira. Ni byiza rero ko buri kigo nderabuzima cyose kigira ubusitani abarwayi bashobora kuruhukiramo ndetse bakagira n'ibiti bitanga umuyaga ku buryo umurwayi adashobora kubura umwuka.

Kwandika hejuru y'urugi ni byiza, kuko bifasha abagana kuri icyo cyumba kumenya icyo hakorerwa ndetse no gusobanukirwa neza hatabayeho kuyobagurika bagatakaza igihe kandi ntacyo bafite.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku barwayi, aha twavuga nk'ibitanda biryamaho abarwayi, intebe yicaraho, utubati ndetse n'ameza yo gushyiraho ibitabo bitandukanye, birimo imyirondoro yerekeye uwo murwayi.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima harimo ibigo nderabuzima bigira ubusitani butandukanye, aho abarwayi babwifashisha bicaramo ndetse bugamamo n'izuba igihe bananiwe kandi barembejwe n'indwara. Bikabafasha kubona umuyaga mwiza utuma bagarura ubuyanja.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe gusuzuma umurwayi. Twavuga nk'igitanda aryamaho, intebe yicaraho, ubwogero kubera ko nta mbaraga aba afite zo guhaguruka ngo ajye kogera ahandi, n'umuganga wo kumwitaho. Ni byiza rero ko twita ku barwayi bacu kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku murwayi. Twavuga nk'igitanda umurwayi aryamaho, intebe aba yicayeho, umunzani wifashishwa barikumupima ibiro, ndetse n'ibikoresho bifasha kubona umwuka. Ni byiza rero ko twita ku barwayi bacu kugira ngo babashe gukira vuba.

Ibigo nderabuzima bibafite ubusitani bwinshi kandi butandukanye, bufasha abarwayi kubona akayaga keza ndetse bigatuma banabona aho bicara igihe bagitegereje ababafasha, ni byiza rero ko inyubako zose zitanga serivisi z'ubuzima zigomba kuba zifite ubusitani ndetse n'ibiti bifasha abarwayi kubona umwuka mwiza ndetse n'aho bagomba kuruhukira.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba hari ibyumba byabugenewe bishyirwamo ababyeyi bagiye kubyara, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumwitaho, twavuga nk'igitanda aba aryamyeho supanete yo kumurinda imibu ndetse n'imiti yo guhabwa igihe amaze kwibaruka, abaganga rero ni byiza ko tubagana kugira ngo babashe kuduha ubuvuzi bw'ibanze.

Inzu y'ababyeyi babyariramo izwi nka materiniti ni inzu iba yubatse neza kandi ifite isuku kubera ko ababa bayigana biba ari ingenzi ko bagomba kubagirira isuku kugira ngo babashe kubona ubuzima bwiza n'ubuzima buzira umuze. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gufasha uwo mubyeyi. Twavuga nk'umunzani bamushyiraho barimo bamupima ndetse n'ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kumubyaza.

Inyubako zo kwa muganga ni byiza ko zigira imiryango myinshi cyangwa se ibyumba byinshi kugira ngo abarwayi babashe kubona aho barwarira batabyiganye ndetse nta n'ikindi kibazo kibayeho cyo gucurana umwuka, no kwanduzanya indwara zitandukanye dore ko abateraniye kwa muganga baba badahuje indwara.

Ibigo bitanga serivise z'ubuzima, biba bifite ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe gufasha ababagana. Ni byiza ko tugomba kugana ibi bigo, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe guha abarwayi ubuvuzi bw'ibanze. Twavuga nk'ibitanda baryamaho igihe barwaye, intebe bicaramo, mashini bakoresha barimo bashaka imyirondoro yabo, ndetse na kizimyamwoto ibasha kuzimya umuriro igihe habaye inkongi y'umuriro.

Mu nyubako zitandukanye zitanga serivisi z'ubuzima, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku barwayi, aha twavuga nk'intebe, ameza, utubati, mashine zikoreshwa barimo bareba imyirondoro y'uwo bagiye kuvura, ni byiza rero ko buri kigo nderabuzima cyose kigomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho neza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibintu byinshi bitandukanye bishobora kuyobora ubaganye kugira abashe kumenya aho yerekeye twavuga nk'icyapa kiba kimanitse hejuru cyanditseho amagambo asobanura icyo kigo icyo ari cyo ndetse n'ibyo bakora ucyinjiramo imbere uhita ubona aho wakirira maze warangiza ugasoma ukabona ibyo wakora bityo bikagufasha gusobanukirwa neza na serivisi ugiye kwaka ukaza kuyibona.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima ahazwi nko ku rwinjiriro haba hariho icyapa kigaragaza ibyo bakora, indwara bavura ndetse n'amasaha batangirira n'ayo basoreza. Ni byiza ko tugomba kubanza gusoma mbere yo gukomeza kwaka serivisi kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza serivisi y'ibyo tugiye kwaka.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba hari abantu bagiye batandukanye basobanurira ababagannye aho bagomba kwerekera, kugira ngo babashe gusobanukirwa neza no kubasha kugera aho baje kugira ngo hatagira usubirayo atabonye serivisi yaje kwaka aho ngaho.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari ibikoresho byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku barwayi neza, twavugaka nka laboratwari yifashishwa mu gupima ibizamini baba bafasha abarwayi, ni byiza rero ko tugomba kugana ibyo bigo kugira ngo tubashe kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho byifashishwa mu gupima ibizamini biba byatanzwe n'abarwayi, ni byiza rero ko buri kigo nderabuzima kigira laboratwari ipima ibizamini byatanzwe n'abarwayi kugira ngo umurwayi atahane igisubizo kizima.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, haba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aho dusanga abantu baje kwaka serivisi zitandukanye, ababagana ndetse n'ibishushanyo n'amagambo abasha kuyobora ababagana kugira ngo umurwayi abashe kwinjira ahantu habugenewe, atayobagurika. Ni byiza ko tubanza gusoma mbere yo kwinjira.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba hari abantu benshi batandukanye,, baje kwaka ubufasha bugiye butandukanye, ni byiza ko tubegera tukababaza kugira ngo tubashe kubafasha ubuzima bwabo butaza kuhasigara, ntabwo bikwiriye ko umurwayi aza akarembera kwa muganga kandi yahageze. Tube maso maze tubashe gufasha abatugana.

Farumasi zitanga imiti y'abantu, ni byiza ko zikorana n'ubundi bwishingizi kubera ko abantu benshi ntago bakoresha ubwishingizi bwa mituelle desante, ni byiza rero ko farumasi nyinshi zitandukanye zigomba gukorana n'ubundi bwishingizi kugira ngo abakorana n'ubundi bwishingizi i babashe kubona ubutabazi bw'ibanze.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari ibyumba bitandukanye bikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye ni byiza ko tugomba gushyira ibishushanyo bitandukanye ku miryango kugira abatugana babashe gusobanukirwa neza aho barimo berekera. dufashe abatugana gusobanukirwa neza aho baje n'ibyo bajemo kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira abarwaye neza, twavuga nk'intebe zicarwamo n'abarwayi, aho bakirira abarwayi, isaha yo kubara igihe, televiziyo yo kuba bareba kugira ngo babashe kuba bategereje.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, harimo ibyumba bigiye bibitsemo amazi bakoresha buri munsi, kubera ko abarwayi bakenera amazi hafi ya buri gihe, ni byiza ko rero inyubako zose zitanga serivisi z'ubuzima zigomba kugira amazi hafi, kugira ngo abarwayi babashe kubona amazi bakoresha.

Ku nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, haba hagiye hashushanyijeho amagambo cyangwa se ibishushanyo bisobanurira buri muntu wese uhagannye kumenya icyumba yerekeramo kugira ngo abashe kwaka ubutabazi cyangwa se serivisi yifuza atabashije kuyoba. Ni byiza ko tubanza gusoma mbere yo kwinjira aho tugiye.

Ikigo gitanga serivisi zigendanye n'ubuvuzi bw'amaso gishishikariza abantu barwaye amaso ko babagana kugira babashe kubaho ubuvuzi bw'ibanze no kubaha inama zitandukanye kugira ngo amaso yabo abashe gukira. Ni byiza rero ko tubagana kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'ibanze babashe no kuduha umuti uvura amaso tubone.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, haba hari icyumba cy'urwakiriro, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira abarwayi, aha twavuga nk'intebe baba bicayeho, ameza bashyiraho ibitabo barimo bandikamo imyirondoro ye, ni byiza ko dufata abarwayi bacu neza kugira ngo bazongere batugane.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari ahantu hatandukanye hakorerwa serivisi zitandukanye, aha twavuga nk'ahaparikwa imodoka ikizwe nka parikingi, ndetse n'aho bakorera inama, ni byiza ko ibigo nderabuzima byose bigira ahantu ho guparikwa imodoka ndetse n'aho bakorera inama.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe gusuzuma umurwayi, twavuga nk'intebe umurwayi yicaraho, ameza ashyirwaho ibitabo bitandukanye birimo imyirondoro ye, imashini ikoreshwa mu gushaka imyirondoro ye, ndetse n'utubati dukoreshwa habikwamo imiti.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, mu byumba by'abarwayi haba harimo ibikoresho bitandukanye kugira ngo bibashe gufasha abarwayi gusuzumwa neza. Aho twavugamo nk'ibitanda, intebe bicaraho ndetse n'ibishushanyo bitandukanye bituma birengagiza indwara barwaye. Kugira ngo babashe gukomeza gukira.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kwita ku barwayi babo, aha twavugamo nk'ibitanda abarwayi baryamaho, intebe, utubati, ameza baterekaho imiti kugira ngo babashe gusuzuma ndetse na puberi batamo imyanda igiye itandukanye.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku barwayi aha twavuga nk'ibitanda biryamaho abarwayi intebe bicaraho ndetse n'amatara bakoresha bamurika igihe barimo babasuzuma, ni byiza rero ko tubagana kugira ngo babashe kuduha ubutabazi bw'ibanze ndetse n'ibigo nderabuzima byose bikagira ibikoresho bihagije.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima harimo ibigo nderabuzima, bakoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe gufata neza ababagana. Twavuga nk'intebe ababaganye bicaraho ndetse n'ababaganiriza igihe bagitegereje ababafasha. Ni byiza ko tuganiriza abatuganye tukababaza icyo bashaka, kugira ngo tubashe kubaha ubuvuzi bw'ibanze.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibyumba bitandukanye, bikorerwamo serivisi zitandukanye, ni byiza rero kwandika ku nzugi kugira ngo ababagana babashe gusobanukirwa neza, hato batajya kwaka serivisi aho batari bakwiriye kuzaka, kubayobora ni ingenzi kubera ko baba batugannye babishaka.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo habashe kwita ku barwayi ba twavuga nk'intebe, abarwayi bicaraho, ibitanda baryamaho ndetse, n'imiti babaha igihe bamaze kubasuzuma. ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwita ku barwayi bacu.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho byifashishwa igihe harimo hasuzumwa abarwayi. Twavuga nk'ibitanda biryamaho abarwayi barwaye, intebe bicaraho, ndetse n'imiti y'ibanze yifashishwa igihe bafite uburwayi butunguranye cyane. Ni byiza rero ko tugomba kwita ku barwayi bacu kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza. Twavuga nk'intebe zicarwaho n'abarwayi, ameza ashyirwaho ibitabo bitandukanye, ndetse n'utubati dushyirwamo ibitabo bigiye bitandukanye birimo imyirondoro y'abarwayi batandukanye. Amatara ntago twayasiga kubera ko nayo abafasha mu kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza.

Mu nyubako zitandukanye zitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umurwayi abashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'intebe umurwayi yicaraho, igitanda aryamaho, akabati gashyirwaho imiti ndetse n'ibitabo birimo imyirondoro yiwe, ni byiza rero ko ibigo nderabuzima byose bigira ibikoresho bihagije kugira ngo ababagana babashe kubona ubutabazi bw'ibanze.

Mu nyubako zitanga serivise z'ubuzima, haba hari icyumba gikusanyirijemo imiti yose abarwayi bakenera; ni byiza ko rero tugana icyitwa nka farumasi, kugira ngo tubashe kuguriramo imiti iyo ari yo yose twandikiwe na muganga.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima hari ibyumba byabugenewe bijyamo abarwayi haba harimo ibikoresho bibafasha gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero kuyobora abarwayi bacu kugira ngo ubashe gukora imyitozo ngororamubiri, imibiri yabo igororoke dore ko baba bahora baryamye.

Mu bigo bitanga serivise z'ubuzima, haba harimo ibikoresho bitandukanye. Aha twavuga nk'intebe umurwayi yicaraho, ameza ndetse n'umuriro uhagije kugira ngo babashe gukora ibintu byabo habona. Ni byiza ko rero, tugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwita ku barwayi bacu.

Mu bigo bitandukanye bishinzwe gutanga serivise z'uburezi, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo abana babashe kubona uburezi bw'ibanze, harimo ibibaho bandikaho, amakaramu bakoresha bandika mu ishuri, intebe bicaramo ingwa mwarimu akoresha ndetse n'umwarimu ubahereza ubwo bumenyi, bashishikarizwa gukoresha ibishushanyo kugira ngo babashe kwigisha abana babone kubifata ndetse babe banabisobanurira bagenzi babo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, cyashyizeho gahunda yo guterwa imiti mu baturage, ni byiza rero ko twemera bakaduterera kubera ko byirukana indwara nyinshi zigiye zitandukanye, zatuma ubuzima bwacu bugenda nabi, twemere badutererere imiti kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima, inyinshi ziba zifite ubusitani bwubatsemo ibyo bariraho umunyenga. Ni byiza ko ibi byuma bigomba kuboneka ku bigo byose bitanga serivisi z'ubuzima kugira ngo ababagannye babashe gukinisha abana babo mu gihe babaruhije. Ni byiza ko rero bagomba kubigira kugira ngo abana babo bakomeze kugira ubuzima bwiza banishima.

Mu nyubako zitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibyumba bitandukanye harimo icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo baze gukora imyitozo ngororamubiri myinshi kandi igiye itandukanye. Ni byiza ko buri kigo nderabuzima cyose kigomba kugira icyumba kirimo ibikoresho bihagije umurwayi ashobora gukenera arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho neza twavuga nk'iminzani babashyiraho kugira ngo barebe ibiro byabo, imashini ibirimo imyirondoro ya bo ndetse n'intebe zo kwicaraho. Ni byiza rero ko tubagana kugira ngo tubashe kumenya uburwayi bwacu.

Mu nyubako zitanga serivisi z’ubuzima, haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gutanga ubuvuzi bw’ibanze ku barwayi babaganye. Twavuga nki'gitanda umurwayi aryamaho, intebe umuvura aba yicaraho, ndetse n’imiti y’ibanze ahabwa kugira ngo imufashe koroherezwa mu gihe akomerejwe cyane.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bishishikarizwa kugira ubusitani bwiza butanga umuyaga ndetse n'abantu bashobora kuruhukiramo bafatiramo amafoto ndetse barimo banakora nk'inama cyangwa se barimo baganira ku yindi ngingo runaka. Ni byiza rero ko bagira ubusitani kubera ko bagendererwa n'abantu benshi bagiye batandukanye maze bakabasha kugaragara neza.

Materineti ikizwi nk'inzu y'ababyeyi babyariramo, haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gufasha ababyeyi kubyara neza, twavuga nk'abaganga babafasha mu kubyara ndetse n'ababakira bakabayobora aho bagomba kujya, ni byiza rero ko tuyobora ababyeyi kugira ngo babashe kubyara abana bazima.

Mu nyubako zitanga serivise z'ubuzima, habonekamo ibikoresho bigiye bitandukanye, aha twavuga nka mashini yifashishwa mu kwandika imyirondoro y'umurwayi, ibyuma bitanga umuriro kugira ngo babashe gusuzuma neza umurwayi no kumukorera serivisi habona, ni byiza rero ko kwa muganga hagomba kuboneka ibikoresho bihagije kugira ngo umurwayi abashe kwitabwaho.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo habashe gusuzuma umurwayi neza. Aha twavuga nk'igitanda umurwayi aryamaho, intebe yicaraho, utubati two gushyiraho imiti, ndetse n'ibitabo birimo imyirondoro yiwe. Ni byiza rero ko Ibigo Nderabuzima byose bigomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo ababagana babashe kubona ubutabazi bw'ibanze.

Siporo dukina dukoresheje umupira, ni ingenzi cyane kubera ko irambura ingingo zimwe na zimwe mu mibiri yacu. Aha twavuga nka siporo dukina dukoresheje umupira w'amaboko, bidufasha kurambura amaboko ndetse uw'amaguru na byo bikadufasha ko amaguru yacu arambuka neza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima mu cyumba cy'umurwayi, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe gupima indwara arwaye. Aha twavuga nk'igitanda umurwayi aryamaho, intebe umurwayi yicaraho ndetse n'imiti y'ibanze babasha kumuha kugira ngo abashe gukira uburibwe afite, buri guterwa n'iyo ndwara.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo. Ni byiza rero gushishikariza urubyiruko gukora siporo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze. Buri umwe wese akwiye kubigira ibye nk'aho ari umuti yandikiwe na muganga kugira ngo ubuzima bw'iwe bubashe kugenda neza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima mu cyumba cy'umurwayi haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumuvura neza, aha twavuga nk'igitanda aryamaho utubati two gushyiramo amadokima yiwe yerekeranye n'i'imyirondoro yiwe imiti itandukanye yiganjemo iyo bamwandikiye ndetse n'indobo yo gutamo imyanda, ni byiza rero ko tugomba kubahiriza ubuzima bwacu.

Indwara y'imitsi ni indwara ifata abana ndetse igafata n'abantu bakuze. Ni byiza ko igihe tugaragaje ibimenyetso by'uko turwaye imitsima tugomba kwegera ibigo nderabuzima bibizobereyemo bikadufasha bikaduha imiti tugomba gukoresha maze tugakira iyo mitsi.

Kunywa amazi mu buzima ni ingirakamaro kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kubura amazi ahagije mu mubiri, ni byiza ko tugomba gufata amazi kubera ko adufasha mu igogorwa ndetse no mu iyungururwa ry'amaraso, maze ubuzima bwacu bugakomeza kugenda neza.

Ibyumba bikorerwamo siporo haba harimo ibikoresho bitandukanye bidufasha gukora siporo, aha twavuga nk'ibikoresho byo guterura mu maboko, amazi yo kunywa igihe twishwe n'inyota, imashini idufasha kubara igihe ndetse n'aho kwicara igihe turi gukora imyitozo ngororamubiri idufasha kwicara.

Kugira igikoresho kibasha kudufasha kumenya igihe ni ingenzi kubera ko iyo tumenye igihe bidufasha kubasha gukorera ku gihe, ntidutakaze igihe, maze ibyo twateganyije tukabikora neza tutabashije gukerererwa. Ni byiza ko twubahiriza igihe ndetse tugashaka n'ibyadufasha kugira ngo tubashe kumenya igihe.

Kunywa amazi mu buzima bwacu ni ingenzi, kubera ko biturinda indwara zitandukanye ziterwa no kubura amazi mu buzima. Ni byiza ko buri muntu wese agakwiriye gufata igikombe cy'amazi akakinywa cyuzuye, kugira ngo umubiri wiwe ubashe gukora igogorwa ndetse n'iyungururwa ry'amaraso rigende neza.

Ntabwo bikiri ngombwa ko dukoresha icyuma dukata imboga cyangwa se imbuto, kubera ko hari akamashini kabugenewe kabidufashamo kugirango tubashe kubikora neza kandi mu buryo buboneye.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko idufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza rero ko dukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'umubiri wacu ubashe kugororoka. Tuyikore tuyikunze kubera ko ari ubuzima bwiza.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko amazi ari umuti. Ni byiza kuyanwa kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abaturarwanda ko nibura buri gitondo umuntu yajya afata igikombe cy'amazi kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza. Twavuga nk'ibitanda abarwayi baba baryamyeho, imiti y'ibanze babaha iyo bamaze kubasuzuma, ndetse n'abaganga babitaho mu buryo buhagije ku buryo indwara barwaye babasha kuyibasuzuma neza bityo bagataha bakize.

Mu gutanga serivisi z'ubuzima hifashishwa ibikoresho bitandukanye bitewe n'indwara umurwayi yaje kwisuzumisha mu cyumba cy'umurwayi rero haba harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe yicaraho igitanda aryamaho ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu kumurika aho atabasha kubonaisha amaso yi'iwe igihe yaje kwivuza indwara iri imbere mu mubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero ko buri gice cy'umubiri wacu kigomba gukora kugira ngo kibashe kugororoka nko gufata ibyuma biremereye mu maboko ndetse no kuba twakora siporo z'amaguru twirukanka.

Kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi gukora siporo mu gihe babonye akanya, dore ko bahora baryamye bityo bigatuma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu, kubera ko bidufasha kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kubura amazi ahagije, mu buzima ni byiza ko tugomba kunywa amazi kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, ndetse mu igogorwa bigende neza, no mu iyungurwa ry'amaraso bibashe kugenda neza.

Si bikiri ngombwa ko dukoresha icyuma dukatisha imboga kubera ko haje ibyuma bya kizungu byabugenewe byo kuzikata. Ni ngombwa rero ko dusobanukirwa iryo terambere ryaje, kugira ngo tubashe natwe kubikoresha bityo tugabanye gukoresha ibyuma bya kinyarwanda.

Abakora ubucuruzi butandukanye barashishikarizwa kugira ibicuruzwa byose umukiriya ashobora gukenera, twavuga nk'imikasi ibikapu, amazi, amavuta, impapuro zikoreshwa mu bwiherero ndetse n'ibindi bitandukanye .Ni byiza gucuruza ibicuruzwa byose kugira ngo ubashe kubona amafaranga yose ntihagire n'amwe agucika.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi, kubera ko bidufasha kwirinda indwara za hato na hato ziterwa no kudakora siporo, ni byiza rero ko tugana ibigo bikorerwamo siporo ndetse n'ibibuga byabugenewe byo gukoreramo siporo kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi, kubera ko bidufasha kwirinda indwara za hato na hato, ziterwa n'uko tudakora siporo, ni byiza ko rero tugana ibibuga byabugenewe byo gukorerwaho siporo, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza n'ubuzima buzira umuze.

Mu bigo bitanga serivise z'ubuzima, haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku murwayi, twavuga nk'ameza aterekwaho ibikoresho bitandukanye nk'amakaye yo kwandikamo imyirondoro y'umurwayi, mashini yo kureberamo igihe yavukiye ndetse n'ibindi bimufasha kugira ngo abashe kumusuzuma neza.

Kwa muganga haba ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi kugarura ingingo zabo, kubera ko bahora baryamye bityo ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza ntibwiyongeremo indwara.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufasha kwirinda indwara zitandukanye, ziterwa no kubura amazi ahagije mu mubiri, ni byiza ko tuyakoresha kubera ko adufasha mu iyungururwa ry'amaraso ndetse no mu igogorwa. Dukoresha amazi nk'umuti twandikiwe na muganga kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo, ni byiza rero ko tugomba kugana ibibuga bikorerwaho siporo kugira ngo tubashe gukora siporo nyinshi kandi zitandukanye, tubigire ibyacu nk'umuti twandikiwe na muganga, nibyo bigomba kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu byumba byabugenewe bikorerwamo imyitozo ngororamubiri haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo uwaje gukora imyitozo ngororamubiri abashe kubona uburyo ayikora, twavuga nk'umuntu umufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri, ibikoresho bimwe na bimwe baryamaho nk'uburiri kugira ngo abashe kwigorora mu ngingo zose. Ni byiza ko tugubigana kugira ngo tubashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye ku myitozo ngororamubiri.

Imiti gakondo, ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko rero tugomba kugana ubuvuzi gakondo kubera ko na bwo budufasha, gusobanukirwa indwara turwaye bityo ubuzima bwacu bugakomeza bumeze neza.

Sigisipake ni igikoresho cyifashishwa mu kugabanya umubyibuho w'inda. Ni byiza ko rero tugomba kugikoresha igihe turi gukora siporo, kugirango tubashe kugabanya umubyibuho udakenewe ku nda yacu, tubashe guharanira ubuzima bwacu tubayeho neza.

Muri serivisi zitangwa kwa muganga harimo na serivisi zo guhereza abarwayi umwanya wo kubakoresha siporo, ni byiza ko abaganga bakurikirana ubuzima bw'umurwayi kugeza bamurekuye kugira ngo ubuzima bwiwe bukomeze kugira imbaraga ndetse bukomeze no kumera neza nta kindi kibazo buhuye nacyo.

Kurya imbuto n'imboga, ni byiza mu buzima bwacu kubera ko biturinda kwandura indwara za hato na hato, ziterwa no kutabona indyo yuzuye ndetse n'imbuto. Ni byiza rero ko tumenya agaciro k'ubuzima bwacu, tukamenya n'agaciro k'imboga ndetse n'imbuto, tukabikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze.

Gukora imyitozo ngorora mubiri mu buzima bwacu, n'ingenzi kubera ko bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza ,no kugorora ingingo zimwe na zimwe bityo bikaturinda kwandura indwara, no gutuma umubiri wacu ukomeza kwihinahina.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo icyumba cyabugenewe, gishyirwamo abarwayi kugira ngo babashe gukora siporo bagorore imibiri yabo. Ni byiza ko tugomba kumva ko abarwayi bacu tugomba kubajyana bagajya mu cyumba cy'aho bakorera siporo maze umubiri wabo ugakomeza kugenda neza n'indwara barwaye zikagabanuka.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye ziterwa no kutabona amazi ahagije mu buzima. Ni byiza ko tugomba kunywa amazi, kugira ngo iyungururwa ry'amaraso rigende neza ndetse n'igogorwa ribashe kugenda neza. Tunywe amazi meza kandi afite isuku kugira ngo duharanire agaciro k'ubuzima bwacu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gisobanura ko ari ingenzi gukora siporo mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo ni byiza rero ko twumva inama abaganga baduhaye tukazikurikiza maze tukanakora siporo kugira ubuzima bwacu bugende neza.

Abaganga batanga serivisi z'ubuzima bafite inshingano zo kwegera abarwayi ndetse bakanababwira uko bagomba gukora siporo mu gihe bakirwaye ni byiza ko rero abaganga begera abarwayi kugira ngo babashe kubasobanurira ibyiza bya siporo bityo bikomeze kubafasha mu buzima bwabo.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha mu buryo butandukanye nko mu igogorwa bigenda neza ndetse bikanadufasha kuyungurura amaraso. Ni byiza ko tunywa amazi kubera ko ari umuti mu buzima bwacu. Tunywe amazi kubera ko ari ingenzi, tuyanywe kubera ko ari umuti, tuyanywe nk'umuti twandikiwe na muganga.

Ameza yiganjeho impapuro bafatisha ibyo kurya, impapuro bajyana ku bwiherero, imibavu bitera kugira ngo bagire impumuro nziza, icyo bita bande mu ndimi z'amahanga, isabune yo koga y'amazi, ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho ari gukoreramo siporo zitandukanye agorora ingingo z'iwe, kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza no gukomeza kugorora ubuzima bw'iwe n'ingingo ze.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko tugomba kugana ibibuga bitandukanye bikorerwaho imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugorora umubiri wacu ndetse tunahigire siporo zitandukanye dushobora gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kuberako biturinda kwandura indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ni byiza ko twitabira ibibuga bitandukanye ndetse tukamenya na siporo zitandukanye twagakwiriye gukora kugira ngo tubashe kurinda ubuzima bwacu indwara zigiye zitandukanye.

Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu, kubera ko bituma umubiri wacu ugororoka, ndetse tukirinda n'indwara ziterwa no kudakora siporo, ni byiza ko rero tugana ibishushanyo mbonera, bishushanyijeho abakora siporo zitandukanye, kugira ngo tubashe gukora siporo zitandukanye, imibiri yacu igororoke impande zose.

Gukora siporo ni ingirakamaro mu buzima bwacu kubera ko bigabanya umuvuduko w'amaraso bikaturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo mu buryo buhagije. Ni byiza ko rero dukomeza guharanira ubuzima bwacu dukora siporo tuyikora neza kugira ngo amaraso atembere neza ndetse twirinde n'indwara zitandukanye.

Abakora umwuga w'ubucuruzi bashishikarizwa kugira ibicuruzwa byose kugira ngo ababagana babashe kubona ibyo bakeneye, aha twavuga nk'impapuro zifashishwa mu bwiherero, ikizwi nka sikoci yifashishwa mu kumanika impapuro, indodo zo kudodesha, isabune y'ifu ndetse n'iy'amazi, amavuta yo kwisiga ndetse n'imibavu yo kwitera.

Utugare ni igikoresho gihabwa abantu bafite ubumuga butandukanye, by'umwihariko batagishobora kugenda, ni byiza ko tugomba kwita ku bafite ubumuga kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bw'ibanze n'ubutabazi bw'ibanze kandi bakomeze gukora akazi kabo nta kibazo bafite.

Si bikiri ngombwa ko dukoresha ibyuma dukata imboga n'imbuto kubera ko Leta y'u Rwanda yatuzaniye ibyuma bitandukanye bigomba kudufasha gukora izi mboga n'imbuto. Ni byiza ko rero dusobanukirwa neza uburyo dukoreshwa tuno twuma kugira ngo natwe tuzamuke mu iterambere.

Kwa muganga haba hari ibyumba abarwayi bajyamo kugira ngo babashe kwigorora, haba harimo ibikoresho nka televiziyo babasha kureberaho siporo zitandukanye, bashobora gukora kugira ngo babashe kugorora imibiri yabo, ni byiza ko rero tugomba gukurikiza ibyo abaganga baba batubwiye kugira ngo dukomeze tugire ubuzima buzira umuze.

Umucuruzi ashishikarizwa kugira ibintu byose umukiriya ashobora kuza agakenera akaba yabona, twavuga nk'amavuta yo kurya, amavuta yo kwisiga, ibikoresho byifashishwa mu bwiherero, imikasi, ingwa ndetse n'ibindi bikenerwa. Ni byiza rero ko umucuruzi agira ibicuruzwa byose kugira ngo abashe kubona amafaranga ye yose yuzuye.

Ibinini ni imiti ihabwa abarwayi baje kwivuza indwara zitandukanye, ni byiza ko rero dukurikiza uko baba batubwiye tugomba kubinywa kugira ngo tugire ubuzima bwiza twirinde n'indwara. Izo ndwara twaje kwivuza ziranduke burundu mu buzima bwacu dukomeze tugire ubuzima buzira umuze.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kubura amazi mu buzima. Ni byiza ko tunywa amazi kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, tubashe no kwirinda indwara ndetse n'umubiri wacu ubashe gukora igogorwa neza n'iyungururwa ry'amaraso rigende neza.

Kunywa amazi ni ingenzi kubera yuko bidufasha kugira ubuzima bwiza mu mubiri wacu, ni byiza ko tugomba kuyanywa kugira ngo adufashe mu kuyungurura amaraso.

Mu byumba bikorerwamo imyitozo ngororamubiri haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo tubashe gukora siporo, ni byiza rero ko tugomba kugana ibyumba byabugenewe birimo ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe gukora siporo nyinshi zitandukanye, bityo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Kwa muganga haba hari ibyuma bitandukanye bifashisha bashyiraho abarwayi barwaye kugira ngo babashe kwigorora no kugorora ingingo zahinamiranye kugira ngo ubuzima bwabo bwe gukomeza kujya mu kaga dore ko baba bahora baryamye.

Ni byiza ko tumenya ibikoresho byifashishwa mu gukina imikino itandukanye, aha twavuga nk'umupira w'amaguru ndetse n'umupira w'amaboko, ni byiza rero ko tumenya ibikoresho byifashishwa kugira ngo tubashe kubikoresha dukora siporo, tunakina maze tugorore ingingo zacu, ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni iby'agaciro gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'umubiri wacu ubashe kurambuka mu buryo bworoshye.

Imvune ni indwara umuntu ahura na yo iyo yaguye cyangwa se yakoze impanuka, inzobere mu bijyanye n'ubuzima badushishikariza kubagana igihe duhuye n'imvune kugira ngo baduhe ubutabazi bw'ibanze ndetse n'inama nyinshi zerekeranye no ku mvune kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu, kubera ko adufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ni byiza kunywa amazi kubera ko adufasha mu igogorwa, akadufasha mu kuyungurura amaraso. Tunywa amazi kugira ngo twirinde indwara ziterwa no kubura amazi, mu mubiri wacu.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko idufasha kugorora ingingo z'umubiri wacu, ni byiza rero ko tugana ibibuga bitandukanye bikorerwaho imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze, ndetse no kwitabira siporo zigiye zitandukanye.

Kunywa amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu, ni byiza ko dufata umuco wo kunywa amazi kubera ko adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi nko mu igogorwa, mu iyungururwa ry'amaraso ndetse no mu kutuvura umutwe, ni byiza rero ko tunywa amazi kubera ko amazi ari isoko y'ubuzima.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biturinda kurwara indwara zitandukanye, ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero ko tugana ibibuga byabugenewe, bikorerwaho imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugorora imibiri yacu bityo twirinde indwara nyinshi zitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biturinda kurwara indwara za hato na hato ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero ko tugomba kwitabira ibibuga byabugenewe bikorerwaho imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kugorora umubiri wacu maze turinde umubiri wacu kurwara indwara za hato na hato.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu, kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero ko twitabira gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, no kwirinda indwara zitandukanye.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufasha mu iyungururwa ry'amaraso ndetse no mu igogorwa, ni byiza ko twitabira kunywa amazi kugira ngo adufashe kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kubura amazi mu mubiri, duharanire ubuzima bwacu kugira ngo bubashe kugenda neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bifasha umubiri wacu kugororoka ndetse bikanaturinda kwandura indwara zimwe na zimwe zatuma umubiri wacu utagenda neza. Ni byiza ko tugana aho zikorerwa ndetse tukanakoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo tubashe gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bunogeye.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima kubera ko, bifasha amaraso kuyungurura neza imyanda myinshi igahita ndetse n'igogorwa, rigakorwa neza, bityo umubiri wacu ukaba muzima.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kuko biturinda kwandura indwara ziterwa no kudakora siporo, ni byiza rero ko twitabira ibyumba bikorerwamo siporo tukamenya n'ubwoko bwa siporo tugomba gukora bityo ubuzima bwacu bukagenda neza nta kibazo na kimwe duhuye nacyo.

Gushyiraho ibishushanyo bitugaragariza uko tugomba kwitwara mu cyorezo runaka ni ingenzi kubera ko bidufasha mu buzima bwacu. Ni byiza kwambara amajire, kwambara ubupfukamunwa, gukoresha isabune, gukaraba hafi ya buri gihe, gusuhuzanya ntago biba byemewe, ndetse no guhana intera.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibyumba bijyamo abarwayi bakabafasha gukora siporo, dusangamo imashini zibagorora imibiri, zikanabagorora amagufwa, ni byiza rero ko dutoza abarwayi gukora siporo ndetse no kubikunda kugira ngo n'indwara barwaye babashe kuyikira.

Kuvunika ni indwara ibabaza cyane, abaganga badushishikariza ko igihe twahuye n'imvune, tugomba kubagana kugira ngo babashe kuduha ubuvuzi bw'ibanze, bityo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza.

Imvune ni indwara duhura nayo iyo twaguye cyangwa se twakoze akazi karenze imbaraga zacu, ni byiza ko rero tugana inzobere mu bijyanye n'ubuzima kugira ngo babashe kuduha ubuvuzi bw'ibanze, no kutugira inama ubuzima bwacu burusheho kugenda neza.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko iturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza twirinde n'indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no guhinamirana kw'amagufwa.

Siporo abantu bose bayigize nk'umuti kubera ko idufasha kugorora ingingo no gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Buri umwe wese akora siporo, haba arwaye cyangwa se atarwaye.

Abakora umwuga wo gutwara ibinyabiziga mu muhanda, bashishikarizwa kugira ubwirinzi kubera ko baba bagenda mu mihanda kandi bashobora gukora impanuka zitunguranye, ni byiza rero ko kugendana ubwishingizi ari byiza kugira ngo igihe uhuye n'ikibazo cyangwa se ugahura n'impanuka, ugomba guhita ubona ubutabazi bw'ibanze bitagoranye.

Insimburangingo ni ubuvuzi buhabwa abantu bafite urugingo babuze ku mubiri wabo, aho baruhabwa bagakomeza gukora neza nk'abantu bafite ingingo zose, aha twavuga nk'akaguru, umuntu wabuze akaguru ku mubiri wiwe, aragahabwa maze agakomeza kugenda nk'umuntu ufite akaguru kazima.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutabona amazi ahagije mu mubiri wacu, ni byiza rero ko tunywa amazi kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu, tubashe no kwirinda indwara ziterwa no kutabona amazi ahagije kandi amazi ni ingenzi mu buzima kubera ko adufasha mu iyungururwa ry'amaraso ndetse no mu igogorwa.

Kwambara ga mu ntoki ni byiza kubera ko birinda intoki zacu kwangirika ndetse no gukomereka igihe turi mu kazi k'amaboko, ni byiza ko tugomba gukoresha ga igihe turi mu kazi k'amaboko kugira ngo tubashe kurinda intoki zacu kwangirika bityo umubiri wacu ukomeze ugire ubuzima buzira umuze.

Ibinini ni imiti ihabwa abarwayi iyo bagiye kwa muganga, umuntu ahabwa ibinini bitewe n'indwara bamusuzumyemo, ni byiza ko dukurikiza kunywa imiti neza baduhaye kwa muganga kugira ngo indwara zacu zibashe gukira dukomeze kugira ubuzima bwiza, tunasigasira ubuzima bwacu tunaburinda indwara zindi zitandukanye.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita ku murwayi, twavuga nk'igitanda umurwayi aba aryamyeho n'ibikoresho bikenerwa kugira babashe kumuha ubuvuzi bw'ibanze bagendeye ku ndwara arwaye, ni byiza rero ko twita ku barwayi bacu kugira ngo babashe gukira indwara baje kwivuza.

Indwara y'iminsi ni indwara ifata abakuze ndetse n'abakiri batoya. Ni byiza ko tugomba kugana kwa muganga igihe tubonye ko dufite ikibazo cy'imitsi maze abahanga mu babizobereyemo bakadufasha kuduha imiti n'ubujyanama butandukanye kuri ibyo ngibyo. Ni byiza rero ko tugomba kumenya agaciro k'ubuzima bwacu tukarinda tukaburinda indwara zitandukanye.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu, niyo mpamvu tugomba kwitabira kuyikora kuko iturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo. Siporo ziri kwinshi rero, hari siporo zo kwiruka ndetse na siporo zo gufata umupira ukawukina, ukoresheje amaguru cyangwa se amaboko. Ni byiza ko rero tugana ibibuga byabugenewe kugira ngo tubashe gukora amasiporo agiye atandukanye.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye. Akenshi dukunze kuyibona ari ifu y'ibyatsi. Kugira ngo rero itegurwe hifashishwa ibikoresho bigiye bitandukanye, ni byiza ko nayo tuyikoresha kubera ko idufasha kuvurwa indwara zacu maze tukabasha gukira ubuzima bwacu bukagenda neza.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, kugira ngo rero ibashe gutunganywa hifashishwa ibikoresho bitandukanye twavuga nk'isekuru bakoresha bayisekura, ndetse n'umuhini bakoresha basekurisha. Ni byiza rero ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza twirinde n'indwara zitandukanye.

Inanasi ni igihingwa cyiza, kubera ko kivamo ibintu byinshi bitandukanye. Ni byiza rero ko tugomba guhinga igihingwa cy'inanasi, kugira ngo tubashe kubona uburyo twakiryamo neza, kitarinze kuduhenda, tujya kugikura ku isoko.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye za Kinyarwanda zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni imiti ikorwa mu byatsi, ni byiza rero ko tugomba kuyikoresha kugira ngo tubashe kwivura, tunasigasirare ubuzima bwacu kubera ko tugomba kubuha agaciro.

Umuti w'amenyo, kizwi nka korogati mu ndimi z'amahanga, ni byiza kuwukoresha igihe tugiye gukorera isuku amenyo yacu kugira ngo udufashe gukura imyanda imwe n'imwe yatuma amenyo yacu yangirika.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwo kuvura indwara za kinyarwanda zananiranye mu kizungu. Ni byiza ko nayo tuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tuyikoreshe kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza kandi inadufashe kubona ubutabazi bw'ibanze.

Ibinini ni imiti ihabwa abarwayi baje kwivuza indwara zitandukanye. Ni byiza rero ko dukurikiza kuyinywa uko muganga yabitubwiye kugira ngo tubashe gukira indwara twaje kwivuza dukomeze no kugira ubuzima bwiza. Ni byiza rero ko dushishikariza abahawe imiti gukomeza kuyikurikirana neza kugeza ishize.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'umuti, akenshi uzasanga ari uw'amazi cyangwa se ari ifu y'ibyatsi, ni byiza ko iyi miti tuyikoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara zitandukanye za kinyarwanda, zananiranye mu buvuzi bwa kizungu bityo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza twivura indwara zose.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza rero ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza maze tubashe no gukira indwara zacu.

Imiti gakondo ni imiti ivura indwara za kizungu zananiranye, aho usanga abafite indwara zananiranye bakoresha imiti gakondo kugira ngo babashe gukira, mu gihe imiti ya kizungu yanze kubakiza.

shapo n isabune y'amazi ikoreshwa mu buryo butandukanye bayikoresha boga mu mutwe bakayikoresha bafura ndetse bakanayikoresha bakoropa, ni byiza ko tugomba gukoresha shapo kubera ko ari nziza kandi ikesha imyenda. Ikaba ivura n'indwara zimwe na zimwe mu musatsi nk'imvuvu ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo harimo ibumba, ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye za kinyarwanda zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko iyi miti na yo tuyikoresha kubera ko ari ingirakamaro, idufasha mu kubona ubutabazi bw'ibanze ubuzima bwacu bukagenda neza n'indwara turwaye zigakira.

Umuravumba ni umuti gakondo ukoreshwa mu buryo butandukanye, ni umuti uvura indwara y'inkorora ndetse ukavura n'indwara y'ubugendakanwa, ni byiza ko uyu muti tuwukoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara turwaye, bityo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Icyatsi cya gakondo cyitwa papusine, ni umuti ukoreshwa mu buvuzi gakondo, aho ukoreshwa havurwa inkorora ku bana bari hasi ndetse n'abari hejuru. Ni byiza ko tugikoresha kugira ngo tubashe kwivura ubuzima bwacu bugende neza.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko tuyikoresha kubera ko na yo idufasha gukira indwara turwaye, kandi tukayikoresha ku kigero gikwiriye, nk'uko tuba twabyandikiwe n'inzobere mu bakunze kuyikoresha.

Imiti gakondo ikorwamo ibinini kwa muganga bifashisha baha abarwayi. Ni byiza ko tugomba gufata ibinini baduhaye kubera ko biba byakozwe neza kandi byizewe kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu twirinde n'indwara zitandukanye zerekeranye n'ibyo tuba twagiye kwivuza.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanya, aho yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, bavura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko tugana iyo miti kugira ngo tubashe kuyihabwa, ibashe kutugirira akamaro mu buzima bwacu, tubashe no kwirinda indwara zitandukanye, zananiranye mu buvuzi bwa kizungu.

Ni byiza ko dukorera isuku amenyo yacu kugira ngo abashe gukomeza gukora akazi kayo, natwe dukomeze kugira ubuzima bwiza. Kugira ngo tubashe kubana n'abandi tutababangamiye cyangwa se ngo tube twabanduza indwara zitandukanye, ziturutse kudakorera isuku amenyo yacu.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwunganira ubuvuzi bwa kizungu, kubera ko hari indwara kwa muganga uwa kizungu ashobora kuvura cyangwa se ikamunanira bigasaba ko ari ngombwa gukoresha imiti ya Kinyarwanda, ni byiza ko rimwe na rimwe iyo kwa muganga bibananiye tugomba kugana inzobere mu buvuzi bwa Kinyarwanda bakadufasha.

Kurya imbuto n'imboga mu mubiri wacu, ni ingirakamaro kubera ko bidufasha kwinjiza vitamine zitandukanye mu mubiri wacu, ni byiza ko rero tugomba kwitabira kurya imbuto mu gihe tumaze kurya, tukazirenzaho nka deseri, duharanire ubuzima bwacu kugira ngo bugende neza.

Ni byiza ko tugomba gutera indabo aho duherereye, kubera ko zidufasha kubona umwuka mwiza ndetse bikanatuma aho duherereye hagaragara cyangwa hakagira ifoto nziza.

Vitolize ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, aho abarwaye indwara za kinyarwanda, bawukoresha kugira ngo babashe gukira.

Igikakarubammba ni igihingwa gikurwamo ibintu bitandukanye twifashisha mu buzima bwa buri munsi. Twavuga nka shapo ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi nko kumesa cyangwa se gukurupa, ni byiza ko dukomeza kumenya agaciro k'igikakarubamba aho kiri hose tukagisigasira.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu ni byiza ko dukoresha iyi miti kugira ngo tubashe gukira indwara turwaye. kandi tubashe no kubona ubuzima buzira umuze. ni imiti rero ikunze gukorwa mu byatsi bigiye bitandukanye aho ibifite akamaro gatandukanye bitewe n'indwara urwaye.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukoresha imiti itandukanye, aha twavuga nka tangawizi, tungurusumu n'ibindi byatsi bitandukanye byifashishwa kugira ngo habashe gukorwa imiti, ya gakondo ibashe kugirira abantu akamaro.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'umuti, ni byiza ko iyi miti tuyikoresha kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu, twirinde indwara zitandukanye maze ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Umuti w'amenyo uzwi nka koroogate mu ndimi z'amahanga, ni umuti wifashishwa igihe turi gukorera isuku amenyo yacu, ni byiza rero ko tugomba gukoresha isuka amenyo yacu, kugira ngo tuyarinde, kurwara, gucukuka ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zandurira, mu kudakorera isuku amenyo.

Ikinyobwa cy'icyayi ni ikinyobwa kivura cyane, cyane ko kivura inyota kikavura n'indwara zitandukanye. Ni byiza ko tugomba kugikoresha igihe dufite inyota cyangwa se igihe dushaka kwivura, tureba ko nta bindi bintu dufite twariye ahandi bishobora gutuma byakwangiriza ubuzima bwacu.

Shapo ni umuti wifashishwa umesa mu mutwe, igihe harimo umwanda ndetse bikagufasha kuba wakwirinda indwara zitandukanye harimo nk'imvuvu, kuzanamo ibisebe ndetse n'ibindi, shapo ni isabune ikesha umusatsi ukabasha gukura neza utagwingiye.

Imiti gakondo, ni imiti yifashishwa mu gukora ibinini bigiye bitandukanye bihabwa abarwayi bagiye kwa muganga, ni byiza rero ko dukoresha imiti gakondo kubera ko idufasha mu kwivura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu maze tukabasha gukira. Ni byiza ko dukurikiza imiti twahawe kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Kunywa umuti wa leyishe ni byiza kubera ko ugufasha gukira inzoka yo mu nda izwi nka mibe niwo muti wonyine ushobora gusanga wagufasha mu gihe urwaye iyo ndwara y'inzoka kubera ko nta wundi muti ushobora kubona wagufasha muri ubwo burwayi ni byiza ko tuwukoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza no gukira iyo ndwara y'inzoka.

Inzobere mu bijyanye n'imiti gakondo, basobanura ko igikakarubamba ari umuti gakondo uvura indwara zitandukanye. Harimo inzoka, ibisebe ndetse n'ibindi. Bikaba binakorwamo amavuta, hakaba havamo ibintu byinshi bitandukanye.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura ubuvuzi bwa Kinyarwanda bwananiranye mu buvuzi bwa kizungu. Ni imiti ikunze kuba ikozwe mu byatsi. Ni byiza ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'ibanze ndetse tubashe no kugira ubuzima bwiza mu gihe tubonye aho tuyikura.

Igikakarubamba, ni igihingwa gikorwamo ibintu bitandukanye, twavuga isabune ndetse n'amavuta, ni byiza rero aho tukibonye, tugomba kugisigasira kubera ko kivamo ibintu byinshi kandi bigomba kutugirira akamaro mu buzima bwacu. Igikakarubamba tugomba kugihinga kandi tugashishikariza n'abantu kugikunda.

Gukoresha ibyatsi bitandukanye ni ingenzi kubera ko ibyinshi biba byiganjemo imiti. Ni byiza ko dukoresha ibyatsi mu gihe dufite indwara runaka dushaka kwivura kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, cyane ko indwara zose zidashoborwa no kwa muganga wa kizungu. Ni byiza ko rero tuyikurikiza kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo, ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye, aho tuyibona ari ifu y'ibyatsi biba byasabye ibikoresho byinshi kugira ngo ibe iyo fu, muri ibyo bikoresho twavugamo nk'isekuru yo kubisekuramo ndetse n'umuhini bakoresha barimo babisekura kugira ngo babashe kubona iyo fu inoze, ni byiza ko rero dukoresha imiti gakondo kugira ngo tubashe kwivura indwara zitandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abakoresha imiti gakondo ko ari byiza kwiyandikisha kugira ngo babashe kwemerwa nk'abaganga b'umwuga, ni byiza ko rero ugomba kwiyandikisha kugira ngo ubashe kwemerwa bityo ukore akazi kawe neza utuje utikanga ko uri gukora akazi katemewe.

Igikakarubammba ni igihingwa gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye, aha twavuga nk'amavuta, amasabune ndetse n'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza rero ko dusigasira igihingwa k'igikakarubamba kugira ngo tubashe gukomeza kugikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse no gukira indwara turwaye, imiti gakondo rero ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'uwo muti.

Imiti gakondo, ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu. Ni byiza ko dukoresha imiti gakondo, kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'ibanze, ndetse tubashe no gukira indwara turwaye. Imiti gakondo rero akenshi ikunze kuba yiganje mu gukorwa mu byatsi. Ni byiza ko tuyikoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Igihingwa cy'igikakarumba ni igihingwa kivamo ibintu bitandukanye, twavuga nk'amavuta. Ni byiza rero ko tugomba kugisigasira, aho tukibonye hose tukagihinga kugira ngo tubashe kugikuramo ibintu byinshi, kubera ko kidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye, aho tuyifashisha mu buvuzi bwa kinyarwanda no kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko dukoresha imiti gakondo kubera ko na yo ari ingenzi, idufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kubona ubutabazi bw'ibanze.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni imiti ikozwe mu byatsi bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'umuti. Ni byiza ko iyi miti tuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, no gukira indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu.

Kurya imbuto mu buzima bwacu ni ingenzi kubera ko biturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kubura vitamine z'imbuto. Ni byiza ko rero tugomba gushishikarizwa kuzirya kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, tunirinde indwara zitandukanye zaterwa no kubura izo mbuto.

Indabo ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko zidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka. Ni byiza ko dushishikariza abantu gutera indabo kugira ngo tubashe kubona ubuzima bwiza, tubashe kubona n'umwuka mwiza wo guhumeka. Ni byiza rero ko tugomba gutera indabo tubikunze kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu.

Inzego zitandukanye z'ubuzima zikangurira abaturarwanda bose gukoresha imbuto ndetse n'imboga kugira ngo birinde indwara zitandukanye. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha ibi kugira ngo abeho afite ubuzima bwiza buzira indwara.

Igihingwa cy'igikakarubamba ni igihingwa kivamo ibintu byinshi bitandukanye, twavuga nk'amavuta, kurogati ndetse n'isabune yo kumeshesha y'amazi. Iki gihingwa ni byiza ko tugomba kugisigasira kubera ko kivamo n'umuti uvura inzoka zo mu nda, ni byiza ko tugomba kugihinga kugira ngo kibashe kutugirira akamaro. Ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye, aho yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, zagiye zinanirana mu buvuzi bwa kizungu. Ni byiza ko dukomeza gukoresha iyi miti kubera ko ari ingenzi, idufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Igitunguru kiribwa mu buryo butandukanye. Tukirya mu biryo tugikaranze ndetse tukakirya na salade. Kugira ngo tubashe kukirya ari salade dukoresha indimu. Ni byiza rero ko tugomba kurya salade kubera ko ari ingirakamaro mu buzima bwacu, bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye z'ubuhumekero.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye, aho bayikoresha bavura indwara za gakondo zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, imyinshi iba ari amazi cyangwa se iyindi ikaba ari ifu, ni byiza rero ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'ibanze ndetse tubashe gukira n'indwara turwaye.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukorwa n'abaganga babizobereyemo, aho bafasha abarwayi barwaye indwara za kizungu, zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, bakabona imiti yerekeranye n'izo ndwara.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukorwa hakoreshejwe ibyatsi bitandukanye bwunganira ubuvuzi bwa kizungu aho batanga imiti, dore ko iyo binaniranye mu buvuzi bwa kizungu abenshi bagana ubuvuzi bwa kinyarwanda.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, iba ari imiti y'ibyatsi, ni byiza rero ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'ibanze ndetse tubashe no gukira indwara turwaye bityo dukomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti gakondo ni imiti ifasha abarwayi barwaye indwara za kizungu zananiranye kwa muganga, aho bayikoresha mu burwayi bwabo bakabasha gukira. Ndetse ikaba ari n'ingenzi mu buzima bwacu.

Umuravumba ni umuti gakondo ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'ubugendakanwa. Ni byiza ko dusobanukirwa ibyiza byo gukoresha imiti gakondo, kugira ngo tubashe kuvura indwara kwa kizungu biba byananiranye ndetse tubashe no gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Igikakarubamba ni igihingwa kivamo ibikoresho bitandukanye twavuga nk'amavuta ni byiza ko iki gihingwa dushishikarizwa kugihinga kugira ngo tubashe kugikuramo byinshi bitandukanye dore ko ari n'umuti uvura inzoka zo mu nda .Iki gihingwa rero ni ingenzi mu buzima bwacu dukwiriye kugihinga kandi tukagisigasira kugira ngo twongere dukuremo ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu. Ni imiti ikorwa mu byatsi, imyinshi iba ari amazi iyindi ikaba ari ifu y'ibyatsi. Ni byiza ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, tunivure indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu.

Gutera ibiti ni byiza kubera ko bidufasha kubona umuyaga mwiza, kandi bikadufasha no kubona umwuka mwiza duhumeka. Ni byiza ko dukomeza gutera ibiti kubera ko ari ingenzi, bidufasha kubona inkwi zo gucana tukabikuramo amakara, ndetse bikavamo n'imiti myinshi igiye itandukanye. Dutere ibiti rero kugira ngo tubashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuravumba ni umuti gakondo ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye nk'ubugendakanwa. Ni byiza ko rero tugomba gukoresha imiti gakondo kugira ngo tubashe kwivura indwara twahuye na zo, tutarinze kugana mu bavuzi ba kizungu.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu ni byiza ko tuyigana kugira ngo tubashe gukira ndetse inadufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi ni imiti kandi ikunze kuba ikozwe mu byatsi bigiye bitandukanye.

Imiti gakondo nk'umuravumba ni umuti uvura indwara zitandukanye nk'ubugendakanwa ndetse n'inkorora. Ni byiza ko dukoresha uyu muti kugira ngo tubashe kwivura indwara zitandukanye ndetse zananiranye, no mu buvuzi bwa kizungu. Dukoreshe imiti gakondo kubera ko na yo ari ingenzi mu buzima bwacu.

Imiti gakondo ni imiti ifasha abarwaye indwara za kizungu kwivura mu gihe indwara zabo zananiranye mu miti ya kizungu. Ni byiza ko iyo urwaye indwara kwa muganga ikananirana ukoresha imiti gakondo kugira ngo ubashe kubona ubuzima bwiza.

Mu bimera havamo ibikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwa buri munsi. Aha twavuga nk'ikimera cy'igikakarubamba kivamo amavuta, kikavamo umuti w'inzoka, ndetse kikavamo n'ibindi bikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ni byiza ko tugomba gufata igikakarubamba tukakigira neza, tukagikorera kugira ngo tubashe gukomeza kugikoresha.